Umuhanzi uzwi cyane mu Rwanda Israel Mbonyi, akaba afite akana gahagaze ku munzani. Imbere hateretse telefone icometse ku mugozi w'umukara, birasa naho bari mu gupima umwana ibiro.

Inzu nini isize irangi ry'ubururu. Muri iyo nzu hicayemo abantu benshi. Hanze mu busitani bwo kuri iyo nzu yicaye abandi bantu bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho. Bose bafite impapuro n'amakaramu bisa nkaho bari kwandika ibyo bari kubwirwa.

Icyumba kinini cyiza cyubatse mu buryo bugezweho, harimo abantu benshi bicaye ndetse n'umugabo, uhagaze harimo umugore wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'abandi babiri bigaragara nkaho bafite ibyo bakurikiye.

Umwana w'umukobwa, arimo arakorera mugenzi we, ubona ko ari ahantu mu cyaro, abana bombi bari hagati y'imyaka icumi, cumi n'itanu, ni ahantu hitaruye ubona ko hari imbuga nini, ku ruhande hari inzu yubakishije amatafari isakaje ibyatsi, ubona ko ni mu cyaro ni ahantu hasa nabi, ku ruhande hakaba hari akagezi, ubona ko bavuye kuvomamo amazi yo gukoresha.

Icyumba kinini cyane, gifite korodoro ndende. Kikaba giharagazamo umugabo wambaye imyenda y'umukara y'akazi ndetse n'ingofero imurinda ibyago ku kumutwe y'umweru. Kikaba kirimo imashini nyinshi zigiye zitandukanye iruhande rwo hepfo zifite ibara ry'ubururu, urwo hagati ari amatiyo y'icyatsi kibisi, hejuru hariho andi y'umuhondo. Ukaba ubona ko ari ahantu hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye.

Umugore ukenyeye igitenge, atwaye indobo ebyiri, imwe arayikoreye indi ayitwaye mu ntoki, hirya ye hari ibihuru, birasa n'aho agiye kumesa.

Umwana mutoya w'umukobwa urimo kunywa amazi ku mugezi. Imbere ye hari intebe y'ubururu, hasi yaho hari ikirango cy'umuryango mugari ku isi ushinzwe kwita ku bana ndetse n'imikurire yabo yunisefu.

Abana bicaye hamwe, barimo baragaburirwa n'umuntu mukuru. Abo bana bambaye impuzankano y'imipira isa oranje yanditseho amagambo y'umukara inyuma. Umumama arimo abicaye impande, arimo arabanywesha amata anabitaho. Cyane ko amata ari ingenzi.

Agatara ni bimwe muri gahunda ya Leta yashyizeho mu rwego rwo kurwanya umwanda ndetse n'indwara ziterwa na biturutse mu kurira ku masahane atumukije akiva mu mazi ako kanya bityo rero udutara ni twiza kuko udushyiraho amasahani akabanza akumuka mbere yo gukoreshwa.

Burya ngo isuku igira isoko kandi umuco w'isuku ni byiza kuwutoza umwana akawukurana, umwana mutoya wambaye umupira w'ubururu, arimo arasukirwa amazi n'umuntu mukuru, bigaragara ko arimo aramutoza kugira isuku, isabune mu ntoki n'igifuro cyinshi ku ntoki.

Abagore batanu bambaye ingofero z'imyeru ndetse n'imipira y'ubururu biragaragara nkaho ari abantu bashinzwe gufasha abandi muri serivisi zi zigiye zitandukanye, ku mipira banditseho hariho ikirango cyanditseho ngo ushora aneza bigaragara nk nkaho ari ikigo cy'imari

Abana batandatu bari hagati y'imyaka itanu n'imyaka cumi n'itatu bambaye impuzankano y'ikigo cy'amashuri runaka bakaba bari kuvoma kw'ivomo babiri babiri kuri buri vomo. Ni ivomo rifite ahantu hatatu hazana amazi, bafite indobo z'umuhondo barimo baravoma abandi bakaraba bikuraho mikorobe mu ntoki.

Umugore uhagaze imbere, birasa n'aho afite abamukurikiye ari kubwira, afite isakazamajwi y'umukara yambaye isaha ku kaboko, inyuma ye hari icyapa kinini kiriho ikirango k'ikigo ku isi gishinzwe kwita ku bana Unicef ku ruhande hari ibindi birango bitagaragara neza biri mu mabara agiye atandukanye, harimo umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Abantu benshi bahagaze ku mugezi bigaragara ko amazi ari kuza ari make kuko hari amabido menshi asa umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara. Hahagaze abantu benshi ubona ko bari kuvoma batonze umurongo bitewe n'uko baje kuvoma, hari amabasi menshi ubona ko ikibazo aha hantu cy'amazi gikomeye nta mazi ahari ahagije.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'abandi, bakaba bahagaze ku marembo y'inyubako nini bigaragara nkaho ari kwa muganga, harimo umwe muremure wambaye ijire y'ubururu, bisa naho akora hano n'undi wambaye ijire y'umweru ugaragara nk'muganga.

Ni umugabo uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki yambaye ishati y'ubururu mu kirere n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'igitaka, akaba arimo arabwira imbaga imuri imbere iri mu gisharaga harimo umupolisi w'umugore n'abandi bantu, imbere hakaba hicaye akana gatoya ubona ko ari gusobanurira ibintu bijyanye n'ubuzima bwite.

Nk'uko bigaragara neza iyi ni ishusho yerekana abantu bamaze gukora igikorwa runaka ariko barimo babafata ifoto y'urwibutso higanjemo abagore, abagabo ni umubare muke.

Abantu benshi bahagaze ndetse imbere yabo hari umugabo wicaye, abo bantu abenshi bambaye imyenda y'umweru, abandi bambaye amajiri y'umutuku, bigaragara nkaho bategereje kumva icyo uwo wicaye ababwira.

Umumama uteruye akana afite impapuro z'umuhondo mu ntoki, yambaye igitenge cy'icyatsi kibisi kirimo utubara tw'umutuku n'umuhondo. Inyuma ye hari abamama benshi bafite abana mu ntoki bigaragara ko baje gukingiza.

Umwana w'umuhungu uri hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi ne akaba arimo ateze intoki ze ku mugezi amazi arimo araza ni umugezi ufite aho bavomera habiri imbere ye hari indobo z'ubururu ubona ko ya kuvoma mo amazi kuruhande hari indi y'ubururu arimo arakaraba intoki amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde umwanda.

Igihombo kinini kirimo kirazana amazi, ku ruhande hari amazi menshi atemba asa nk'ikidendezi, hejuru ya ay'amazi hakaba hari ibyatsi bi bitandukanye bikura ubuhehe ndetse n'ubuzima bw'ayo mazi kuri yorobine hariho ikiganza cy'umuntu ubona ko arimo akaraba intoki.

Inzu nini isa neza, isize amarange y'umweru hahagaze abantu benshi, abo imbere baricaye ab'inyuma barahagaze, umubare munini wiganjemo ni abagabo gusa ku ntebe y'imbere hagati harimo umugabo w'umuzungu, abandi bose basigaye ni abirabura birasa nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abana benshi bahurijwe hamwe. Imbere hari umwana umwe wambaye impuzankano ubona ko umwana w'umunyeshuri ,uri hagati y'imyaka itanu n'imyaka irindwi ,iruhande rwe harimu umugabo wambaye umupira usa na orange wanditseho amagambo y'umweru mbere, akaba arimo amusuhuza ,ubona ko babahurije hamwe kugira ngo babaganirize bagire ibyo bababwira.

Abana babiri ubona ko bari hagati y'imyaka itanu ndetse n'imyaka icyenda. Umwe afite igikombe mu ntoki arimo arakarabya mugenzi we ubona ko ari abana batojwe kugira isuku, ndetse no gukaraba amazi meza n'isabune. Bikaba ari byiza, bibarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Gukingira indwara zigiye zitandukanye akenshi bihera umuntu akiri muto, umuganga arimo gukingira umwana bigaragara ko ari mu kigo cy'amashuri, muganga akaba yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki bigaragara nk'aho arimo arita ku bana mu mashuri.

Amazi meza burya aturinda umwanda, amazi mabi akaduteza indwara ndetse n'ibibazo bitandukanye. Umwana w'umukobwa arimo aravoma amazi ubona ko yanduye, ikijerekani ni amazi atemba hasi ku ruhande hari akandi gato ubona ko gasa nabi gafite umwanda kandi karwaye.

Umwana uri hagati y'imyaka icumi na cumi n'itatu, akaba afite ibirahure bibiri by'amazi mu ntoki, yambaye impuzankano y'abanyeshuri, inyuma ye hari amazi asa nabi y'ikiziba, ku ruhande rwo hakurya y'ayo mazi hari abana benshi ubona ko bambaye nabi batiga, arimo aragereranya amazi ari mu kirahuri asa neza n'ayo mazi yanduye ari mu kidendezi.

Ni ahantu ubona ko hahuriye abantu benshi bagiye batandukanye abo bantu bakaba bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, gusa hakaba higanjemo umutuku, ubururu ndetse n'umweru. Ku ruhande hakaba hari inzu hepfo yayo hakaba hari imodoka ubona ko ihaparitse, imbere y'iyo nzu hakaba hari igisharagati kinini kirimo abantu gikozwe umweru.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara, inyuma ye hanitse imyenda myinshi biragaragara ko ari gufura, ku ruhande hari umugezi, arimo aravoma amazi ateretse ibido mu mabase abiri agerekeranije, ibido y'umuhondo, inyuma hari ikizu kinini gikozwe mu mabati, ubona ko ari gukora isuku.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, leta yashyizeho gahunda yo gushyira amazi mu midugudu ndetse no mu byaro kugira ngo abahatuye babashe kubona amazi asukuye bityo birinde indwara ziterwa n'imyanda.

Ahantu hateraniye abantu benshi, bigaragara ko baje ngo bagire ibyo babwirwa, umubare munini ni abana batoya ndetse wambaye imyenda itandukanye, imbere hari umugore upfukamye hasi, bigaragara ko wagira ngo afite ikibazo, inyuma ye hari undi musore uhagaze wambaye umupira w'umuhondo, bigaragara ko ari we umucunze.

Abagore ndetse n'abasore . Baje kuvoma. Batwaye amajerekani ubona ko atondetse ku murongo . Amazi ari kuza ni makeya ubona ko amazi ari ikibazo, umugezi usize irangi ry'ubururu hejuru n'umweru . Bari kurwanira amazi ubona ko ari mu cyaro ahantu hataba amazi. Umwanda ni wose.

Abaganga batatu bahagaze ubona ko biteguye kabo. Umwe yambaye impuzankano y'ubururu, akagofero k'ubururu undi wo hagati yambaye impuzankano y'umweru n'itaburiya, uwo ku ruhande nawe yambaye impuzankankano y'ubururu ,abo babiri bambaye impuzankano z'ubururu bafite udukarito mu ntoki ubona ko ari udukarito tw'imiti, bafite abarwayi bagiye kuvura.

Abana benshi bambaye imyenda y'imihondo, imeze nkaho ari impuzankano, inyuma yabo hari abazungu bisa naho bari gufata ifoto y'urwibutso, uko bigaragara aha ni kwa muganga.

Umukobwa uri kumesa, afite injerekani ndetse n'indobo, akikijwe n'imyenda ari imbere y'inzu isakaje amabati, arimo araseka yishimye nk'uko bigaragara, arimo arakora amasuku mu buryo bwo kwirinda indwara.

Umugore wikoreye ijerekani ripfundikije umufuniko utukura hariho n'isashi, akaba yambaye igitenge ndetse n'umupira, imbere ye hakaba hari umwana wambaye impuzankano y'amashuri abanza, ku ruhande hakaba hari akandi kana gato gatwaye ijerekani ku rutugu, impande y'aho hantu hakaba hari inzu nini ifite amabati y'umutuku.

Abana bato babiri ubona ko bari kuvoma amazi kuri robine bakoresheje indobo nini z'umweru, ni abana bari hagati y'imyaka itanu n'imyaka umunani, umwe ni umukobwa undi ni umuhungu ubona ko banezerewe kuko amazi ari kuza, inyuma yabo ni ahantu hari ibyatsi byinshi.

Burya ngo mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'ibigize umuntu ni amazi. Ibindi byose bisigaye bigize makumyabiri na gatanu. Bityo rero mujye mwita ku kunywa amazi, kuko umubiri urayakenera cyane. Kandi akaba anifashishwa mu gutuma uruhu rumera neza.

Umwana wunamye ku mugezi, arimo aranywa amazi ubona ko ari amazi y'urubogobogo asa neza, araturuka mu gihombo gishinze ku gisima ubona ko ari amazi yo mu cyaro, ku ruhande hari indobo amazi ari kumenekamo. Umwana yambaye ikabutura y'umutuku, bodaboda z'ubururu ndetse n'umupira urimo amabara agiye avanze, hirya inyuma ye hari ibyatsi byinshi.

Imihanda myinshi igenda inyuranamo, imwe iri hejuru indi ica hasi, inyuma kure hari amazu, bisa nkaho ari magufi, afite imiryango myinshi, asakaje amabati y'umutuku, inyuma haragaragara nkaho ari sitade, aho abantu baza bagakora siporo, ubuzima bwabo bukamera neza.

Abana bambaye impuzankano ya orange, bicaye hasi bakusanyirijwe hamwe barimo baragaburirwa, ku ruhande hari umupolisi wambaye ingofero y'umukara n'impuzankano ya gipolisi y'umukara, hagati yabo bana hari umugore wambaye ijire ubona ko ari byo ashinzwe arimo araha abana abagaburira kugira ngo abarinde imirire mibi.

Turi kwa muganga. Ni umusaza ukuze cyane arimo arahabwa serivisi yo gukingirwa. Hari abaganga benshi, benshi biganjemo bambaye impuzankano y'ubururu. Umusaza yambaye ikote ry'umukara n'ingofero, umusatsi we wose ni imvi.

Ku ivomo rusange ubona ko arivomo rifite aho bavomera habiri. Hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye ubonako bategereje kuvoma. Imbere hari akana gatoya gafite igitenge n'ijerekani ry'umuhondo kari kuvomeramo amazi. Inyuma hari umugore ubonako yambaye neza, ufite umutaka na we akaba ari kuvoma amazi.

Umugore wambaye ingofero, umupira, ndetse yakennye igitenge, akaba ari ku ivomo arimo aravoma, ni ivomo ryubatse ririho aho bavomera habiri. Akaba ari kuvomera mu njerekani ziss umuhondo ubona ko yishimiye ko amazi ari kuza, munsi hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ngo wota sanitasheni endi hayigiyeni ini Rwanda', akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi mu Rwanda.

Amazi mabi atuma habaho ikibazo. Umwana uhagaze mu mazi urimo aravomesha ijerekani mu mazi menshi atemba. Bigaragara nkaho aka gace nta mazi meza abamo.

Uruganda runini ubona ko ari urwo gutunganya amazi ni ahantu hanini hakoze mu bw'uruziga tumwe amazi ari ikibazo bafata amazi mabi bakayahuriza hamwe bi bakagenda bayatunganya kugeza aho yamo amazi meza akoreshwa kandi asa neza.

Abantu benshi bahagaze ahantu. Imbere yabo hari icyapa kinini gishushanyejemo umuganga cy'ubururu. Inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye. Iriho umurongo w'umweru wanditsemo inyuguti nini sale de conference. Akaba ari icyumba kiberamo inama zigiye zitandukanye.

Amazi burya ni ingenzi; ikibigaragaza ni uko ntacyo wakora nta mazi. Ni yo mpamvu leta y'u Rwanda yiyemeje kugeza amazi kuri buri muturage wayo. Umwana arimo arikorera indobo irimo amazi. Bigaragara ko avuye kuvoma. Kugira ngo amazi agezwe mu rugo akoreshwe.

Icyumba cyiza ubona ko kirimo abantu benshi bagiye batandukanye bicayemo baka bicaye ku ntebe z'isa ivu, zikikije ameza ariho igitambaro cy'umweru, ameza ya mbere akaba ariho umugabo wambaye amarineti ndetse afite na mudasobwa imbere ye, hakaba hari undi mugore wambaye imisatsi y'umutuku ndetse n'ikote ubona ko hari abantu benshi bari mu nama bafite ibyo bari kwigaho.

Umugore wambaye imyenda idoze mu bitenge. Afite umwana mu ntoki n'igipapuro cy'umuhondo ndetse n'ikarita ya mituweri. Bigaragara ko yaje gukingiza umwana. Inyuma ye hari abandi babyeyi benshi, bicaranya abana. Bigaragara ko bari kwa muganga.

Inzu nini iberamo amanama, ku ruhande rw'iburyo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yaho hahagaze abantu benshi basa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo bantu hari inyerekamashusho nini iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, ishusho zanditseho amagambo menshi agiye atandukanye bitewe n'ibiri kuvugirwa aha hantu.

Ivomo ryo mu buryo bwa kera aho umuntu yajyaga inyuma agapompa icyuma bityo amazi akazamuka mu ivomo riri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere, ku ruhande hari umwana arimo aroza indobo z'umweru yaje kuvomeramo arimo arishimye kuko amazi yaje atahe maze ajye gukoreshwa mu rugo.

Ni mu ishuri ubona ko ari ishuri ribanza, rikaba ririmo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye impuzankano y'abanyeshuri abakobwa ni ubururu, ku bahungu ni kake, inyuma hari icyapa kinini cy'umukara cyanditseho amagambo ubona ko bari bari kwiga, bakaba bafite ibiryo barimo bararya kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Abana bane bahagaze ku mugezi. Akaba ari umugezi wa kera ikunze kuba ahantu hataboneka amazi ku buryo bworoshye. Aho bacukura icyobo kinini bagashyiramo amatiyo inyuma bagashyiraho icyuma bazajya bapompaho maze amazi akazamuka. Umwana umwe rero arimo arapompa amazi ari kuza ajya mu ibido y'umuhondo, abandi barimo baramureba. Ku ruhande hari ibyatsi byinshi ubona ko ari ubusitani.

Aha abantutu ubona ko ari benshi bahagaze hakaba higanjemo abana bakiri bato bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka irindwi, bakaba bafite ibintu by'ibikarito bijyiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye jire y'ubururu akaba arimo asobanurira umugabo wicaye hasi wambaye akagofero ubona ko hari ibyo kumusobanurira, ku ruhande hakaba hari uwambaye ishati y'umweru.

Umuganga w'umugabo urimo urakingira akana, imbere ye hari umumama bisa naho ari nyina w'uwo mwana, akaba yitandiye igitambaro mu mutwe.

Burya isuki igira isoko. Gukaraba neza amazi meza ndetse n'isabune, akaba ari kimwe mu bintu birinda ndetse bikarwanya indwara zikomoka ku mwanda. Umwana w'umukobwa arimo arakaraba, ubona ko anezerewe, arimo yita ku ntoki ze akuraho za mikorobe, yifashishije amazi.

Umuganga ubona ko yambaye, yiteguriye akazi, akaba yambaye agapfukamunwa, itabariya y'umweru, rinete ndetse n'uturindantoki, afashe ku musaza bigaragara ko asa nk'aho ari kumwitegereza mu maso kugira ngo arebe ko yamufasha.

Ni umugore uteruye akana gatoya kambaye ubusa, imbere ye hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga itaburiya y'umweru, akaba afite akuma kabugenewe mu ijosi kifashishwa n'abaganga ku kumva uko umutima utera w'umurwayi, imbere ye hakaba hari ameza ariho ibipapuro byinshi bitandukanye byo kwa muganga ubona ko arimo aravura ako kana akitaho.

Ese waba uzi impamvu buri nama yose haba harimo amazi? burya abahanga bamaze kumenya umumaro w'amazi. Bikurikirwa n'imvugo igira iti "Amazi ni ubuzima". Niyo mpamvu uzasanga mumanama hakoreshwa amazi umuntu abashe gutekereza neza.

Abantu benshi bagiye batandukanye, ubona ko bahagaze ahantu, biganjemo igitsina gore, bakaba bari hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'umunani, bambaye imyenda igiye itandukanye, ahantu bahagaze hari ibishushanyo by'inzu n'ibiti ku gikuta, ubona ko ari ahantu hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye.

Ni umugore ubona ko ari umugore mukuru wambaye amadarubindi ndetse n'akantu mu mutwe k'agatambaro kariho amabara agiye atandukanye, akaba yambaye umupira urimo amabara menshi y'ubururu n'umuhondo ndetse n'umutuku. Akaba yiteye igitambaro kiriho amabara y'umuhondo n'umukara, inyuma ye hakaba hari abana benshi bashungereye ubona ko bari kumureba.

Abana bane bari mu kigero cy'imyaka itatu n'itanu, bari kumwe n'umuntu mukuru w'umugabo, wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse na bote z'umukara, arimo arabakarabya intoki, akoresheje igikombe gisa umweru, akaba arimo abatoza kugira isuku ndetse no kwita ku ntoki zabo, kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Ikirango kinini cy'ubururu kirimo amabara y'umweru, handitsemo amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'umurongo utambitse, iki kirango kikaba ari ikirango cy'ikigo cy'ubuzima ku isi gishinzwe kwita ku bana Unicef.

Umwana wambaye impuzankano y'abanyeshuri. Isa umutuku. Akaba afite agakombe mu ntoki k'umweru. Ari kuri robine, arimo aravoma amazi. Muri ako gakombe agira ngo ayanywe. Imbere ye hari ikigega kinini cy'umukara kiri guturukamo ayo mazi. Inyuma hari urukuta runini rwubakishije broke sima.

Icyumba kinini cyaberewemo inama. Imbere hicaye abantu babiri. Akameza k'umukara hateretseho indangururamajwi bari kuvugiramo. Bisa naho barimo barabwira abandi bicaye inyuma bateze amatwi. Inyuma yabo bagabo babiri hari icyapa kinini cy'ubururu. Cyanditseho ngo: "Stop the Marburg Virus."

Abantu benshi bari mu gisharagati, bambaye impuzankano yamataburiya asa n'ubururu bw'ikirere, imbere hari ubusitani, imbere gato hari umugabo uhicaye wambaye ishati y'umweru, aba bantu barasa n'aho ari abanyabuzima barimo baraganira.

ku ishuri rinini nko hagati mu kibuga hakaba harimo umugezi urimo uzana amazi k' uwo mugezi hari umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano yo kuri iki kigo akaba arimo aranywesha amazi ibiganza bye cyane ko amazi ari ingenzi, ni ku zuba ryinshi birasa n'aho afite icyaka kuruhande hari indobo nini y'icyatsi kibisi bakarabiraho intoki.

Umumama wambaye umupira w'umukara, muganga ari kumutera urushinge w'umugore birasa nkaho uyu mumama yababaye cyane wagira ngo urushinge ruri kumubabaza.

Ibiganza by'umuganga byambaye uturindantoki tw'ubururu, umuganga arimo arafungura ibinini mu tuntu biba bifungiyemo akoresheje intoki ziwe, ari na ko areba ku kantu k'agapimo kerekana igipimo cya nyacyo cy'umuti akuramo.

Umugabo wambaye amadarubindi, wiyogoshesheje zimwe mu nyogosho zigezweho z'urubyiruko, yambaye umupira w'umuhondo, ari gukingira umwana uteruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari abagore benshi baje gukingiza abana indwara zigiye zitandukanye.

Abana babiri umwe w'umukobwa ndetse n'undi muhungu, uw'umukobwa akaba ari hagati y'imyaka cumi na cumi n'itatu, umutoya akaba ari hagati y'imyaka itanu n'imyaka irindwi, barimo baravoma amazi mu kidendezi ubona ko atari amazi asukuye ubona ko aho batuye nta mazi meza ahari, aya mazi ashobora kubatera indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi bicaye hamwe ku ntebe ku murongo, hagati yabo hakaba hari umugabo wambaye itaburiye y'umweru urimo afite ibyo ababwira bigaragara nkaho ari ibijyanye n'ubuzima ari kubasobanurira, abandi nabo bakaba bamukurikiye babyitayeho.

Abasore bane ndetse n'umukobwa umwe bakaba bambaye amataburiya y'umweru, abandi babiri bambaye amashati y'ubururu, umwe yambaye amadarubindi y'umukara, akaba yambaye n'uturindantoki twera bigaragara ko ari gukora mu miti.

Uturima tw'igikoni ni tumwe muri gahunda ya Leta. Yo kurinda imirire mibi ndetse no kurwanya kugwingira mubana bakiri bato. Bityo rero Leta ikaba yashyizeho ingamba zo gushishikariza abantu ndetse no kubitaho hifashishijwe iyi gahunda y'uturima tw'igikoni. Aha hari abantu benshi bagiye batandukanye bambaye impuzankano y'imipira isa orange. Barimo baratera imboga mukarima k'igikoni twubatswe.

Amacupa y'ubururu cyane cyane abikwamo gaze cyangwa se oxygene, ibi bikaba bikoreshwa kwa muganga mu gihe umuntu ari kubagwa cyangwa se afite ikibazo cy'ubuhumekero.

Amazi isoko y'ubuzima ndetse n'isuku. Abana babiri umwe arimo arapompa cyangwa se aricunda ku cyuma kizamura amazi muri kano, undi na we arimo aravoma. Ivomo ririmo rirasuka amazi mu kajerekani, abana barishimye.

Abantu benshi biganjemo abana batoya ndetse n'abantu bakuru. Bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga barambuye amaguru hasi. Abana bato biganjemo bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu yanditseho amagambo y'umweru inyuma. Ubona ko hari ibyo bari gusobanurirwa kandi bagomba gukurikiza.

Mu gukora imiti igiye itandukanye imwe n'imwe ya gakondo, akenshi hifashishwa ibimera, haba imbuto, ibiti, imizi ndetse n'ibibabi tutibagiwe n'ibishishwa by'ibyo biti, aha ngaha rero hakaba hari umwana, inyuma ye hari umugore, bateruye ikidobo cy'icyuma kirimo ibibabi by'ibiti, urabona ko barimo gusoma imiti bifashisha bakora imiti gakondo.

Umugezi ufite robine ebyiri, iruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, hahagaze abantu benshi cyane barimo bararwanira amazi, nta mazi ahagije ari aha hantu, iruhande rw'iburyo hari umugore ufite indobo y'umweru, arimo atega amazi, ibumoso hari umugore n'umugabo bafite indabo ebyiri, imwe isa move indi isa n'umuhondo.

Biba byiza kutigunga cyangwa se ngo wicare hamwe igihehe kirekire, niyo mpamvu abaganga bagushishikariza kuganira ndetse ukaganirizwa igihe wumva udatuje ndetse ufite umunaniro mwinshi mu mutwe, kugira ngo wirinde indwara zimwe na zimwe zigenda zataka ndetse zikanafata ubwonko.

Ahantu hahuriye abantu benshi, ubona ko bose bari mu nama runaka. Umugore uri imbere yambaye ishati y'umweru ndetse n'akagozi mu ijosi k'ubururu kariho ikarita imuranga. Imbere ye gatoya hateretse amazi menshi, cyane ko amazi ari ubuzima kugira ngo naza kugira inyota ayanywe. Inyuma ye hari umugore wambaye umupira w'umutuku, arimo arareba imbere yambaye n'amadarubindi.

Icyumba kinini cyicayemo abantu benshi biganjemo abasore n'abakobwa, bambaye impuzankano y'umupira w'umukara biragaragara nk'aho ari inama barimo, mu ntoki z'abo bafitemo uducupa ndetse bicaye ku ntebe zitukura.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bambaye impuzankano y'umupira y'ubururu, yanditseho amagambo mu gatuza, hagati yabo hahagazemo umugabo wambaye karuvati, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hahagaze umuzungu wambaye ikoti ry'igitaka, indi myenda ni umukara. Urabona ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abana batoya bari hagati y'imyaka itatu ndetse n'imyaka irindwi. Bakaba bicaye ubona ko bigunze cyane. Hagati yabo harimo umukecuru uri mu zabukuru. Ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyumba kiza ubona ko kiberamo inama, hakaba hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, biganjemo igitsina gore, ku ruhande rw'imbere hakaba hicayeyo abantu batandatu, abagore batatu n'abagabo batatu, ku ruhande hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, inyuma hari icyapa kinini cyanditseho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bicaye umugabo ndetse n'umugore, bakaba bicaye ahantu ubona ko habereye inama se ubukangurambaga runaka, bicaye ku ntebe z'imituku, ameza ni ubururu ateretseho igikapu, inyuma yabo hari icyapa kinini gishushanyijeho mu mabara atandukanye, ubona ko bari kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ni umugore wunamye ubona ko afite agahinda yihebye. Akaba yashyize ibiganza bye mu mutwe. Afite umusatsi yazingazinze ni ibisuko. Akaba yambaye umupira w'umweru w'amaboko. Birasa naho afite ikibazo cyo mu mutwe kuko uko bigaragara arihebye cyane.

Umwana w'umukobwa uri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu . Ubona ko yicaye hasi yihebye . Yicaye ku musambi yambaye inkweto za kama mbiri z'umukara zifite udushumi tw'umutuku. Aziritse umunyururu ku kaguru uteye ku giti, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bamurinze kwirukanaka cyangwa se ngo ave aho ngaho bamubure.

Abantu benshi bahagaze hamwe higanjemo abagore n'umupolisi umwe ubahagaze hagati, ku ruhande inyuma y'abo hari ibyapa binini by'ubururu biriho amagambo y'umweru, ikindi cy'umutuku ku ruhande, umukobwa umwe muri bo afite igikapu kinini, ku ruhande hari inzu.

Umugabo w'umwirabura . Afite ubwanwa bw'umukara ,ndetse n'umusatsi mukeya, ni umugabo uri guseka amaso ye arafunze. Ubona ko yishimye yambaye umupira w'umuhondo afite n'amatwi atari manini cyane, bigaragara ko ameze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe. Kuko bigaragara ntabwo atuje cyangwa se atekanye.

Abakobwa babiri bicaye ku ntebe, uwi'buryo yambaye umupira w'umukara, imisatsi myinshi y'umukara ndetse yambaye n'amaherena, uw'ibumoso akaba yambaye ikanzu y'ubururu n'umusatsi w'iwe wa natirere, akaba afite agakinisho k'intare mu ntoki, imbere ya bo hateretse agakarito ku meza karimo umucanga.

Abagore babiri bari mu icyumba ubonako barimo kwakirwa n'umuganga arimo arabasobanurira ibyiza byo konsa umwana kugerageza imyaka ibiri wirinze kumuha cyangwa se kumuvangira amashereka n'ibiryo.

Ahantu hagari hahagaze porisi y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba yivanzemo n'abantu b'abaturage bagiye batandukanye, bari mu mabara yiganjemo umutuku ndetse n'umukara, inyuma hakaba ari icyapa kinini cyanditseho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza, ubona ko barimo barafata ifoto y'urwibutso rw'igikorwa cyari cyabereye ahantu runaka.

Umusaza bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, arakanuye nta menyo y'imbere afite, afite ibisatsi byinshi mu mutwe, akaba yambaye ishati y'ubururu ndetse n'umukenyero w'umuhondo bigaragara ko atuzuye.

Umuzungu w'umugabo uhagaze ku rukuta. Inyuma hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo asobanura ko aho hantu ari ibitaro, byita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe bya Ndera.

Umukecuru ufite igitambaro mu mutwe cy'ibara ry'umweru, akaba yambaye amaherena n'urugori mu muhogo, arananutse cyane, arasamye urabona ko ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe uko areba, afite amaso asa n'uhumirije, iruhande rwe hari ibyatsi byinshi.

Ubwonko ni igice kimwe cy'umubiri gikontora amarangamutima ndetse n'imyumvire n'ibitekerezo by'umuntu. Rimwe na rimwe iyo utameze neza nibwo kirekura imisemburo ituma amaso yawe arekura amarira bityo bikagaragara nkaho uri kurira. Niyo mpamvu ukwiye kujya ahantu bakakuganiriza, ugahura n'abaganga igihe wumva utameze neza mu bwonko no mu mutwe muri rusange.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'igitaka , abakobwa bambaye ubururu abana b'abahungu bambaye impuzankano y'igitaka, bazamuye ibiganza ubona ko bishimye banaseka inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri.

Umugore w'umwirabura usa igikaraba, akaba afite isakazamajwi mu ntoki ze, arimo arabwira abantu bamuri imbere, yicaye ku ntebe y'umutuku, ku ruhande rwe rw'iburyo yicaye umugabo, wambaye umupira w'umukara uriho akantu k'icyatsi kibisi, ku gatuza ke k'iburyo, imbere yabo hateretse agakapu gateretse ku meza bisa naho ariwe kubwira.

Umwana w'umuhungu wirabura ubona ko yababaye cyane, afite amarira arimo arava mu jisho ry'iburyo, ijisho riratukuye cyane ubona ko yarize igihe kinini, akaba agaragara nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ukenewe ubuvuzi ndetse no kwitabwaho byihariye.

Umwana w'umuhungu wicaye ahantu hasa nabi, ari hagati y'imyaka cumi n'umwe na cumi n'irindwi, akaba yambaye ubusa yicaye hasi, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye ubuvuzi ndetse no kwitabwaho.

Abana benshi bari mu kigero kimwe hagati y'imyaka icumi n'imyaka irindwi, bose barimo kurira. Bambaye imyenda isa nabi, barambuye ibiganza, biragaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe bahuriyeho kandi bose. Inyuma yabo hari ibyatsi byinshi by'icyatsi kibisi, bari mu muhanda.

Umukecuru ubona ko ari ahantu mu muhanda yicaye hasi, afite ibipipiri birimo amazi ubona byamaze kunyobwa, afite inkoni, yambaye ibyenda byinshi ubona ko bishaje, afite ibyatsi mu ntoki n'igitambaro mu mutwe ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe, hirya inyuma ye hari abantu benshi ubona ko buri wese ari mubye, barimo bagenda.

Umugore urimo araseka mbere ye hari akantu karimo amenyo menshi agiye atandukanye ku ruhande hari umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru arimo arafata iryinyo rimwe arigereranya na yayandidi arambitseho ndetse n'amenyo ya wa mugore w'umwirabura guseka biragaragara ko ari kumwitaho areba n'iryinyo yasimbuza iryo.

Umuganga w'umuzungu afite akuma kariho utuntu twinshi, mu ntoki ze yambaye uturindantoki tw'ubururu, imbere ye hari umusore bisa naho ari kwerekana ikibazo afite ku menyo ye, kugira ngo uwo muganga amufashe.

Umusore ufite umusatsi mwinshi, ubona ko arimo araseka yireba mu ndorerwamo, afite akadodo kabugenewe mu gusukura ndetse no gutunganya amenyo, gakura imyanda ndetse n'ibiryo byagiye bisigara hagati na hagati y'amenyo, kwita ye kugira ngo agumane umwimerere wayo kandi ayarinde indwara, ndetse na mikorobe ziyafata.

Umusore w'umwirabura, arimo araseka cyane mu ndorerwamo afite akadodo mu ntoki ze, akadodo kakaba kifashishwa mu guhanagura ndetse no gukura imyanda yahagamye mu menyo, arimo arita ku menyo ye kugira ngo agumane umwimerere wayo.

Igishushanyo ubona ko kiri kunyerekana mashusho, kikaba ari igishushanyo cyerekana imiterere ndetse n'imimerere y'amenyo mu kanwa k'umuntu. Ubona ko iyi shusho ari iyakuwe mu byuma byabugenewe, mu kumurika no kureba imbere mu mubiri.

Icyumba kinini cyagutse. Kirimo inyerekanamashusho. Gisize irangi ry'umweru. Harimo imashini ndetse n'intebe. Bigaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga. Cyifashishwa n'abaganga barimo barita ku bantu. Bitewe n'indwara barwaye.

Amenyo akaba ari kimwe mu bice bigaragaza uburanga, iyo kitaweho bityo kigasa neza. Umukobwa urimo akoresha akadodo kabugenewe mu gukura umwanda mu menyo. Akaba ari kwita ku menyo ye ngo amere neza, ayarinde kuvunguka.

Umusore uryamye muganga. Imbere ye hari abaganga bambaye uturindantoki ndetse n'ibyuma byabugenewe birimo imikasi n'ibindi byifashishwa mu kwita ku menyo. Biragaragara nk'aho barimo abamwitaho bareba ikibazo yaba afite mu kanwa.

Ni icyumba cyiza, ubona ko kirimo isuku, gisize amarangi y'umweru. Ku ruhande hakaba ku gikuta hariho igishushanyo kinini cy'igiti, kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara. Hakaba harimo imashini nini zabugenewe, zifashishwa kwa muganga. Ziriho n'intebe, umurwayi yicaraho bityo umuganga akamwitaho. Imwe mu ntebe ikaba iriho n'inyerekanamashusho nini y'umukara.

Umwana muto w'umukobwa ufite imisatsi myinshi ifungiye inyuma, aryamye hasi ni umwana w'inzobe, yasamye arimo arerekana amenyo ye, iruhande rw'iburyo hari umuganga no ku rw'ibumoso, ubona ko barimo baramwitaho bareba ikibazo amenyo ye yaba afite.

Akana gato kagakobwa kari hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu. Kakaba kambaye akantu mu mutwe k'akarabo, ako kana kakaba kicaye ku gatebe k'ubururu, ubonako gafite uburoso mu ntoki, karimo kabushyize mu kanwa, karakora isuku mu kanwa kugira kirinde indwara z'amenyo.

Ishusho igaragaza imiterere y'amenyo, bigaragara ko ari iyo mu byuma byabugenewe bifotora mu mubiri mo imbere bizwi nka scanner. Ikaba yerekana uko amenyo ameze. Ahari irirwaye ndetse n'irikenewe kwitabwaho.

Icyumba cyiza gisize amarangi asa n'umweru uteruye. Hejuru kuri parafo hari amatara abiri arimo araka umweru. Kirimo intebe ebyiri, imwe nini y'umurwayi ndetse n'indi y'umuganga. Hakaba hariho utwuma tugiye dutandukanye bisa naho twifashishwa kuvura abantu.

Ni umwana muto uri hagati y'imyaka itatu ndetse n'imyaka irindwi. Akaba afite uburoso buriho umuti w'amenyo. Uburoso bukaba buri mu mabara y'umuhondo n'ubururu. Akaba arimo arikorera isuku, amenyo ye kugira ngo agumane umwimerere wayo ndetse yirinde n'indwara zayafata.

Kwita ku menyo akaba ari kimwe mu bintu byiza cyane. Umusore wishimye ubona ko aseka neza, afite amenyo yererana. Akadodo mu ntoki kabugenewe mu kwita ndetse no gukura imyanda yaheze mu menyo. Birasa naho arimo ariyitaho.

Umwana wasamye urimo yerekana mu kanwa ke. Muganga afite udukoresho twabugenewe mu kuvura amenyo. Bigaragara nk'aho muganga ari kwita ku ryinyo ry'uwo mwana. Muganga yambaye amadarubindi ndetse n'uturindantoki twera.

Isuku akaba ari isoko y'ubuzima, icyumba gisa neza kirimo ibyuma bigezweho byifashishwa mu bwogero. Igikuta cyometseho ibikoresho bifata ndetse bikanabungabunga ibikoresho byo mu bwogero bizwi nka shawa.

Abagabo benshi bagiye batandukanye. Barimo n'abagore ndetse n'abakobwa. Bakaba bicaye hasi abagabo bari imbere, abari inyuma basutamye, abari inyuma cyane bahagaze. Inyuma yabo hari icyapa kinini kirimo inyuguti za ta ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso, bitewe n'igikorwa cyari cyabaye.

Icyumba cyiza cyane kigize ibitaro runaka kirimo imashini nyinshi kandi zitanga ubuvuzi butandukanye bwamenyo, ni imashini nini ifite ibice byinshi igufasha mugufasha amenyo yawe.

Ni umugabo wambaye imyenda y'umukara yo kurarana. Akaba arimo arikura imyanda mu menyo yita ku menyo ye. Arimo arireba mu kirahure. Imbere ye hateretse impapuro zifashishwa mu bwiherero, ubona ko ari mu bwiherero arita ku menyo ye.

Buri gitondo igihe ubyutse, jya ufata uburoso na cologate maze wiborose. Ibi bizagufasha kuguma mu mwimerere wawe w'amenyo. Umuganga afite utwuma tubiri arimo arita ku mwana amuvu amenyo ye.

Ni umwana mutoya w'umukobwa ubona ko ari hagati y'imyaka itandatu n'imyaka cumi n'ibiri. Yambaye amahere ku gutwi yambaye agasenge k'umuhondo arasamye, imbere hari umuganga wambaye ga z'umweru n'udukoresho tw'utwuma tubiri bifashisha mu kuvura amenyo. Kamwe kariho akarahure yashyize mu kanwa ubona ko ari kureberamo ubuzima bw'amenyo y'uyu mwana.

Umukobwa wambaye isume mu mutwe y'umweru yambaye agasengeri k'umweru umukobwa w'umwirabura akaba arimo aroza amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo akaba arimo arireba mu kirahure areba aho yoza ndetse nho yamaze kuza mu kanwa ke.

Umugabo w'umwirabura. Arasamye. Yanyujije urudodo hagati y'amenyo ye. Akaboko ke k'iburyo gafashe akantu k'umweru kariho urwo rudodo. Ak'ibumoso urutoki rwe rwa musumbazose ruri mu kanwa. Arimo arakurura urudodo. Ari kwita ku menyo ye akuramo utwanda ndetse n'ibiryo byagiye bisigaramo hagati na hagati.

Umusore w'umwirabura, afite urudodo ari gucisha hagati y'amenyo ye, ni urudodo rwabugenewe rufasha abantu gukura ndetse no guhaganyura ibiryo cyangwa se imyanda yahagaze hagati mu myanya uba uri hagati w'amenyo abiri, akaba ari na ho mikorobe zihisha.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara. Akaba ari umukobwa w'umwirabura, yambaye agasengeri k'umweru, afite uburoso mu kanwa bw'icyatsi kibisi. Arasamye arimo arireba mu ndorerwamu arimo aroza amenyo kugira ngo akomeze yiyiteho abashe kugira ubuzima bwiza ndetse agumane umwimerere wayo.

Abagabo babiri ubona ko bafite igishushanyo kiriho amenyo barimo barigiraho gukura ndetse no kwita ku menyo. Umwe yambaye isaha ku kaboko afite akuma kabugenewe mu gusukura ndetse no kwita ku menyo, barimo bariga kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhagije ku buryo bwo kwita ndetse no kuvura amenyo.

Umwana w'umwirabura w'inzobe. Yicaye ku ntebe isa umutuku. Arimo aritabwaho na muganga. Muganga wambaye uturindantoki tw'ubururu bwerurutse. Umwana arasama yasamishijwe n'intoki za muganga. Muganga arimo arareba mu kanwa, areba ikibazo amenyo ye yaba afite.

Umwana uri hagati y'imyaka cumi n'ibiri n'icyenda akaba aryamye hasi arasamye, abaganga barimo baramurika mu kanwa ke bareba ikibazo amenyo ye yaba afite kugira ngo ahabwe ubutabazi ndetse n'ubuvuzi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru. Imbere ye hari umugore usa neza w'umwirabura w'inzobe. Afite imisatsi migufi ariko igera mu maso. Akaba ategereje guhabwa ubuvuzi yitabwaho na muganga. Muganga akaba afite akadodo kabugenewe mu kwita ku menyo.

Amenyo akaba ari kimwe muntu bisa neza iyo yitaweho. Aha hari umuntu ufite akantu kabugenewe ko kwita ku menyo. Ushyiraho bityo amenyo yawe akamera neza, akaba yasamye ndetse arikugashyira mu kanwa.

Umukobwa wasamye. Aryamye ku gatanda. Arimo aritabwaho n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga. Yambaye kandi n'udupfukamunwa ndetse n'udupfukantoki. Afite utwuma tubiri twabugenewe mu kwita ku menyo. Arimo aradushyira mu kanwa, amwitaho.

Ni umugabo ubona ko yishimye uri mu myaka hagati ya mirongo itatu na mirongo ine n'itanu, akaba yicaye mu ntebe nziza yabugenewe y'abarwayi, ku ruhande hakaba hari umuganga wambaye ga mu ntoki ufite akuma kabugenewe mu gupima ngo barebe uko amenyo y'umuntu ameze, yaje kwivuza amenyo.

Umugabo usa neza cyane, biragaragara ko arimo yita ku menyo ye kuko afite urudodo rwabugenewe mu koza amenyo. Bisa n'aho arimo ayitaho kugira ngo agume amere neza bitewe nuko uyagiriye isuku.

Amenyo ni igice cy'umubiri kigomba kwitabwaho cyane buri munsi kandi bihoraho, bitewe n'uko cyakira ndetse kikanajyamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibiryo amazi ndetse n'ibindi bishobora guhisha udukoko twayangiza, niyo mpamvu ushishikarizwa kujya ukora uyakorera isuku buri uko umaze kurya ndetse no kunywa ibintu biryoherera.

Umugabo ubona ko ugeze mu zabukuru. Yambaye ishati y'ubururu mo mbere arenzaho umupira w'umweru inyuma y'amaboko. Yicaye mu gatebe inyuma yaho hahagaze umukobwa ushinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru. Wambaye imyenda yabugenewe y'ubururu arimo aramusekera abona ko bari kuganira.

Abasaza bicaye ahantu hamwe barimo kuboha banakora imwe mu mirimo y'ubukorikori baricaye barimo baraganira bisa nk'aho ari ahantu abantu bakuru bahurira maze bagakora uturimo tumwe na tumwe dukoresha intoki tugiye dutandukanye.

Ni umukecuru ubona ko ageze mu zabukuru. Umusatsi wabaye imvi. Yambaye amadarubindi y'umutuku. Akaba yifashe ku mazuru arimo aritsamura. Akaba afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki arimo aranywa. Ku ruhande hari izindi ntebe ziteretseho imyenda. Ubona ko aha hantu ari mu nzu bita ku bakuze.

Umusaza uhagaze. Akaba ahagaririye mu kuma kifashishwa mu gufasha abantu bamaze igihe kinini batagenda cyangwa se abantu bafite imvune y'amaguru kwimenyereza kugenda. Iruhande rwe hari umuganga w'umugore wambaye ikarita imuranga ku gituza ibumoso. Akaba arimo amwerekera uburyo agenda gake gake.

Mu bihugu bimwe na bimwe byateye imbere usanga hari inzu zishinzwe kwita ku bantu bageze mu za bukuru, aha hari abantu babiri umusaza ndetse n'umukecuru bigaragara ko bakuze barimo barareba ndetse banafata imiti, umukecuru arimo kwereka umusaza ku gapapuro, musaza nawe we afite agacupa k'imiti arimo arareba uko ayinywa.

Abagore batatu ubonako bari mu zabukuru imvi ni uruyenzi, uwi uruhande rw'iburyo yambaye ikanzu y'umweru uwo hagati ikanzu y'umuhondo ari nawe ufashe telefone mu ntoki bose bari kurebera bari guseka uwo ku ruhande ikanzu y'umweru bigaragara ko bari mu kigo gishizwe kwita ku bakuze.

Intoki bigaragara nk'aho ziri guterura inka, zikinishwa mu mukino uzwi nka dame, intoki bigaragara ko ari iz'umusaza uri gukina, akaba yicaye afite undi bari gukina uruhande rw'iburyo, uyu mukino akaba ari umukino mwiza, ndetse ushimishije kandi ukaba usaba ubwenge.

Umusaza ubona ko ageze mu za bukuru, afite ubwanwa bw'umweru urimo imvi z'umweru. Umutwe arogosha nta busatsi na mucye uriho, akaba yambaye ishati ya kaki. Yatanze akaboko, akarambitse ku meza. Muganga yagashyizeho imashini ipima umuvuduko w'mararaso, ndetse n'uko isukari ingana mu mubiri we. Muganga akaba ari kumwitaho, ubona ko ari mu kigo gishinzwe kwita ku bantu bageze mu za bukuru.

Ni inzu yita ku bageze mu za bukuru, aha ngaha hakaba hari umwana w'umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara, yayizirikiye inyuma, imbere ye hakaba hari umusaza ubona ko ageze mu za bukuru, afite imisatsi y'imvi arimo aramwitaho amukanda intoki anazigorora, kugira ngo asaze neza yitabweho.

Uburwayi bwo mu mutwe ni indwara yibasiye abantu benshi bagana mu zabukuru. Ariko kuba twabwirinda nabyo ni ibintu byoroshye cyane. Nk'aba bafashe umwanzuro wo kudoda no kuboha utuntu bifashishije ibyatsi.

Umusaza uri mu za bukuru, abona ko ubwanwa bwe ari imvi gusa n'umusatsi. Arimo araseka yambaye umupira w'ubururu, ateruye n'akuma kabugenewe mu kurambura amaboko k'ubururu. Inyuma ye hari umuganga wambaye umupira w'umweru. Arimo aramurambura akaboko, ubona ko ari kumwitaho, ari mu kigo gishinzwe kwita ku bantu bari mu za bukuru.

Umusaza barimo baruhagira mu mutwe, amazi menshi ndetse n'isabune, bigaragara ko ari mu kigo gishinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru, aho barimo kumugirira isuku kugira ngo asaze neza afite ubuzima bwiza.

Ni isoko rinini ubona ko ari isoko ry'imbuto ndetse n'imboga. Hakaba harimo abagore batandatu. Bambaye ibitenge. Ubona ko ari abagore bari mu zabukuru bakuze. Imbere yabo hateretse ibitebo binini birimo inyanya. Ubona ko ari inyanya zihishije. Inyuma yabo hari n'ibindi birimo amacunga ndetse n'amaronji.

Umusaza ubona ko ageze mu zabukuru, ni umusaza wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'icyatsi kibisi cyijimye, akaba yarengejeho agapira k'umweru, akaba arimo arandika mu gitabo, afite ikaramu ndetse arandikira ku meza, ubona ko hari ibyo ari kuzuza.

Ni abantu ubona ko bageze mu zabukuru. Imbere yabo hari umwana muto w'umukobwa urimo araseka. Ufite imisatsi miremire y'umukara. Wambaye umupira w'umutuku. Ku ruhande hari undi mugore ufite imvi n'imisatsi miremire. Na we arimo araseka. Yambaye umupira w'umukara mo imbere n'agakoti k'igitaka. Hano hari undi muntu utagaragara neza w'igitsina gore wambaye umupira uciyemo uturongo. Bari gukina amakarita.

Umusaza uryamye ku gitanda, umusaza ubona ko ari mu zabukuru. Akaba yambaye umupira w'umweru n'amashuka amutwikiriye ni umweru. Iruhande rwe rw'iburyo hari imashini nini icometseho ibigozi byinshi, ubona ko ari imashini iri kwaka. Ikaba ifite inyerekanamashusho ibyerekana mu buryo bw'imibare, yerekana uko ubuzima bwe buhagaze ndetse nuko umutima uri gutera.

Umugabo wicaye mu gisharagati, inyuma ye hari abantu benshi ndetse n'umugore umuhagaze imbere wambaye akajiri k'umukara akaba afite akantu k'umweru mu ntoki ze, bigaragara nk'aho ari ikirori cyangwa se umuhango wabereye aho hantu.

Umugore ubona ko ari umugore uri mu zabukuru. Yicaye ku kagare k'abafite ubumuga. Ni umugore ufite imisatsi irimo imvi. Akaba arimo aritabwaho n'undi mugore umwicaye imbere, wambaye impuzankano y'ubururu. N'ikarita imuranga mu ijosi. Kenshi y'abaganga. Yambaye akantu mu matwi yashyize ku kaboko k'uwo mugore uri mu kagare. Ubona ko ari kumwitaho.

Abasaza n'abakecuru ubonako bageze mu zabukuru barishimye cyane barimo baraseka barimo barakina imikino igiye itandukanye bifashije utuzu tw'umukara tuririho utudomo tw'umweru aho bagenda badutenga bakurikije imibare bityo iwabikoze neza akaba ariwe utsinda umukino barimo bariyitaho banaseka baganira.

Umukecuru uri mu za bukuru yambaye amadarubindi imvi zabaye reyenzi ari kumwe n'umuganga wumugore urimo aramusekera bigaragara ko ibyo ari kumubwira bisekeje afite akantu gapima k'umutima utera mu umuhogo we yambaye impuzankan y'ubururu bigaragara ko ari mu nzu aho bita ku bantu bageze mu za bukuru.

Umukecuru ubona ko ageze mu zabukuru. Afite agatambaro ka pinki, arimo arakarambura. Imbere ye hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga. Itaburiya y'umukara n'ishati y'umweru. Imbere afite ikarita imuranga ku ruhago rwe rw'imbere. Imisatsi yiwe yafungiye inyuma. Arimo arabwira uwo mukecuru ibyo akora kugira ngo arebe imikorere ye y'ubwonko.

Abantu benshi bicaye mu buryo bw'uruziga. Bose bicaye ku ntebe z'umweru. Ni abantu bakuze ubona ko bari hagati y'imyaka makumyabiri n'imyaka mirongo ine. Barimo baraganirizwa ku bijyanye n'ubuzima.

Umusaza n'umukecuru ubona ko ageze mu zabukuru. Umukecuru arimo arasoma agapapuro k'amabwiriza kaba kari mu gakarito umuti uba upfunyitsemo kagusobanurira neza uko ukoresha iyo miti. Ku meza hari akantu k'ubururu ubona ko ari agapimo ndetse n'ikirahure kirimo amazi uwo umusaza agiye kunywesha imiti. Kure yaho gato hari akavaze gatoya karimo indabo.

Umugabo urimo aragendera ku byuma byabugenewe, bifasha abantu bamaze igihe kinini batagenda cyangwa se bamaze iminsi mu mvune. Ni umugabo wambaye ipantaro y'igitaka n'umupira w'umukara. Ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye ishati y'umweru, imisatsi miremire igwa inyuma yafungiye inyuma, ndetse n'ipantaro y'umukara. Arimo aramugendesha gake gake, amwigisha kugenda.

Umusaza ugeze mu za bukuru, wicaye. Yambaye umupira w'umukara. Ubwanwa ni imvi gusa. Imbere ye hateretse mudasobwa. Ku ruhande hari umwana w'umukobwa uri hagati yimyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu. Arimo aramuha ibinini akurikije uko ameze.

Ni umusaza ubona ko ageze mu zabukuru. Akaba ari kunywa amazi mu kirahure. Imbere ye hahagaze umukecuru na we ubona ko ari mu zabukuru. Yambaye amadarubindi arimo arasekera umusaza, akaba yambaye imyenda y'ubururu, akaba arimo arita kuri uwo musaza baganira baseka ubona ko bishimye.

Umuryango mugari urimo abana, abagore ndetse n'abakecuru ubona ko ari umuryango waje gusura umukecuru uba mu nzu zishinzwe kwita ku bantu bageze mu za bukuru, barishimye bari guseka, arimo arabaganiriza ubona rwose ko banezerewe.

Abantu benshi batandukanye bicaye bateze amatwi ababari imbere bigaragara nkaho ari inama ariko ishingiye ku buzima, inyuma hakaba hari icyapa kinini cyanditseho bibiri na makumyabiri na kane, ubuzima ndetse n'ubushakashatsi ku buzima.

Abagabo babiri ubona ko bafite inshingano runaka bashinzwe mu gihugu, bakaba bafite seritifika mu ntoki, ubona ko bari gufata ifoto, inyuma hakaba hari icyapa kinini kiriho ibirango by'u Rwanda, aba bagabo bakaba bambaye amakoti y'ubururu ubona ko bameze neza.

Abaganga benshi bahuriye ku muntu umwe, bigaragara nkaho arembye cyane ari indembe ikeneye kwitabwaho n'abaganga benshi, bose barimo barareba wagirango ubuzima burimo buramuvamo, hirya hari ibyuma byinshi bimucometseho arimo arahumekeramo, ari nako yitabwaho n'abo baganga bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku nshuro ya makumyabiri na kane mu Rwanda. Iyi ni sare nini iberamo amanama ndetse n'ibirori. Harimo abantu benshi ndetse imbere hari inkumi ziri kubyina imbyino gakondo. Inyuma hari icyapa kinini kiriho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Icyapa kiriho amabara agiye atandukanye, ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru muri icyo cyapa. Hejuru hariho ibara ry'ubururu, ryanditseho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza. Hasi hakaba hari ibara ry'icyatsi kibisi, na yo yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Ku ruhande rw'imbere ahagana ibumoso, hakaba hari udushushanyo ubona dufite icyo dusegura.

Urupapuro runini ruri mu ibara ry'ubururu rwanditseho inyuguti ebyiri nini H n'inyuguti ya R. Munsi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, handitse ngo: "Ubuzima bwiza ku Banyarwanda".

Igipapuro kiriho abantu bane. Abakobwa babiri n'abahungu babiri, ubona ko bari hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'umunani. Bafite udukingirizo mu ntoki zabo tw'umutuku n'utw'ubururu, ubona ko bari gushishikariza abantu kwirinda ndetse no kurinda abandi virusi itera sida bityo bagire ubuzima bwiza.

Urupapuro runini rw'umweru, rukaba rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi agiye atandukanye, munsi hakaba hariho utuntu tw'udushushanyo tw'imibumbe y'isi turi mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru n'umuhondo, hasi yaho gato hakaba hari andi magambo manini ari mu ibara ry'ubururu, yanditseho ngo:" Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bidukikije ku isi."

Abantu benshi bahagaze. Inyuma yabo hari urukuta runini rusizweho irangi ry'umweru, riri mu birangantego by'u Rwanda ndetse igikuta cyose gisize irangi ry'ubururu. Bakaba bishimye ubona ko banezerewe ntakibazo bafite. Bisa naho barimo barafata ifoto.

Urubyiruko n'imbaraga za byose, aho turi kubona abakobwa benshi bihurije hamwe bari kuganira ku byerekeranye n'ubuzima ndetse n'uburyo babungabunga binyujijwe mu mategeko.

Itsinda ry'abantu bagari, barimo baraseka bishimye ko bigaragara, higanjemo abagore ndetse n'umugabo umwe, barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Umugabo w'umuzungu wambaye ingofero, amadarubindi, afite igipapuro kinini mu ntoki. Igipapuro cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku avuga ngo: "Urukingo rw'icyorezo cya Monkey pox rwabonetse ubu ngubu." Inyuma ye hari inyubako nini, ndetse ahagaze mu biti byinshi.

Inkingo ni bumwe mu buvuzi bwifashishwa cyane mu gihe umuntu atahawe imiti y'ibinini. Akaba ariyo mpamvu dushishikarizwa kujya kwikingiza. Aha hari abantu barimo guterwa inshinge. Inyuma yabo hakaba handitse amagambo agira ati: "fata urukingo rwa covid cumi n'icyenda"

Sida indwara mbi ikaba idafite umuti cyangwa se urukingo. Bityo leta y'u Rwanda igakomeza idushishikariza kuyirinda ndetse no kwipimisha kugira ngo umenye uko uhagaze, bityo ubashe kurinda ubuzima bwawe ndetse no kuyirinda abandi.

Indwara y'ubushita bw'inkende, ni indwara yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Akaba ari indwara, cyangwa se icyorezo cyazangaje isi. No mu Rwanda kikaba cyarahageze. Icyapa kinini cyanditseho amagambo agira ati: twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Amagambo y'umweru hejuru, umuhondo hasi. Icyapa akaba ari ubururu.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho inyuguti nini z'ubururu n'umukara. Hakaba hariho ikirango cy'ikigo ku isi gishinzwe kwita ku bana Unicef. Hakaba hariho umugore urimo aha umwana igikoma. Amwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza, abashe gukura neza.

Icyumba kinini ubona ko cyubatse mu buryo bugezweho, cyicayemo abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bari hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongo ine, bakaba bicaye ubona ko bakurikiye uri imbere haribyo ari kubabwira. Inyuma inkuta z'icyo cyumba zikaba zisize irangi ry'umuhondo hejuru na move hasi ubona ko ari ahantu heza ho gukorera inama.

Inzu nini irimo abantu benshi, umubare munini wiganjemo ni igitsina gabo bose bafite imisatsi igwa mu mugongo bambaye imyenda yera, imbere hari umugore usa naho afite ibyo ari kubasobanurira ku buzima.

Umugore wicaye ku ntebe, yambaye igitambaro cy'ubururu yifubitse igitenge cy'umukara, imbere ye hari umugore w'umuganga, wambaye impuzankano y'abaganga n'akagozi kariho ikarita imuranga mu muhogo, yambaye uturindantoki n'isaha ku kaboko, arimo aratera umugore urushinge kugira ngo abone amaraso bityo agabanye mo indwara arwaye, ku ruhande inyuma na ho hari abandi baganga barimo barakora nk'ibyo.

Abaganga babiri b'abagore bambaye impuzankano yifashishwa kenshi mu kubaga, akaba ari ibikanzu by'ubururu ariko ubona bibonerana bambaye uturindantoki tw'umweru, n'udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'utugofero tw'ubururu mu mutwe, birasa ni aho ari umuntu bari gukorera operasiyo wagize ikibazo runaka.

Inzu nziza ifite imiryango y'ibirahure, inzugi zisize irangi ry'icyatsi kibisi, hejuru hamanitseho icyapa cyerekana ko ari farumasi, mo imbere harimo utubati turimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye.

Inzu nziza cyane, bigaragara ko yubatswe ku buryo bugezweho. Ku gikuta cy'imbere hariho amagambo asa n'ibara ry'umuhondo, yanditseho ko ari ibitaro by'akarere byashyira.

Icyumba gisa neza kiri mu mabara y'umweru. Mo imbere hakaba harimo ibimashini kabuhariwe byifashishwa n'abaganga mu buvuzi bwabo. Hari agatanda karyamyeho umurwayi bisa naho ari kwitabwaho.

Abagore bane ndetse n'umugabo wa gatanu ubahagaze hagati, inyuma y'abo hari inyubako nini isa nk'aho ikoreramo ikigo gishinzwe kureba indwara hifashishijwe ikoranabuhanga, laboratoire, kikaba ari ikigo cy'ingenzi mu buvuzi.

Ni icyumba cyiza, ubonako kirimo isuku. Hasi hari amakaro asa shokora. Hakaba harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Amamashini yifashishwa kwa muganga afite inyerekanamashusho zerekana uko ubuzima bw'uburwayi bumeze. Iruhande hari utubati twinshi, urabonako ari ahantu heza bakirira abarwayi.

Umuforomo w'umugore akaba yambaye ishati y'umweru, imisatsi y'umukara, imbere ye hari umwana uri mu tuntu twabugenewe twifashishwa bashyira umwana ku munzani ngo bamupime ibiro, bakaba barimo barapima ibiro umwana.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hamanitsemo isaha y'ikizeru, hasi hakaba hariho imashini nini iriho inyerekanamashusho y'umukara, ni imashini y'umweru izwi nka sikaneri, ikaba ari imashini bagushyiramo barebamo imbere mu mubiri ikibazo waba ufite bityo ukitabwaho ndetse ugahabwa n'ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba kinini kigiye kirimo ibitanda byinshi bigiye bitandukanye, biryamyeho abarwayi ubona ko ari ahantu abarwayi baryama, hagati harimo umwana w'umusore ufite umukubuza urimo aragenda akubura imyanda kugirango bahakore isuku. Cyane ko ahari abarwayi hagomba kugirirwa isuku kugira ngo babarinde indwara zindi ziterwa n'umwanda.

Inzu nini yita ku bagore izwi ururimi rwamahanga nka Maternity. Imbere yayo hakaba hicaye abantu bamwe bambaye imipira y'ubururu ndetse n'abandi bambaye ishati z'umweru. Imbere yabo hakaba hari ameza hariho igitambaro cya move bigaragara nk'aho hari ibyo bari kubwirwa.

Icyumba cyiza cy'umweru ndetse harimo imashini zigiye zitandukanye bigaragara nkaho ari izifashishwa kwa muganga mu kuvura ndetse no kureba indwara umuntu arwaye, hejuru hamanitse isakazamashusho iri mu ibara ry'umukara.

Inzu nziza irimo amarangi y'umweru. Haba harimo igitanda cyiza gishasheho ishuka y'umweru. Kiriho matela y'ubururu. Ku ruhande rw'iburyo hakaba hari imashini nini yifashishwa mu kuvura abantu. Ikaba ifite inyerekanamashusho yerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Ni inzu nini cyane ubona ko ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba isize amarangi y'ivu ndetse n'amarangi y'ubururu bwerurutse, amabati yayo ni ubururu, imbere hakaba haparitse imodoka nziza cyane ya silver, inyuma hakaba hari abantu bane bahahagaze, urabona ko ari inzu ikoreramo ibitaro runaka.

Ni inzu nziza, ubona ko yubatse mu buryo bugezweho. Ikaba ari inzu isize amarangi y'umweru, imbere hakaba hariho urwapa runini rwanditseho amagambo y'umukara. Imbere hakaba hahagaze umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ijipo y'umutuku. inyuma cyane hakaba hari intebe y'icyatsi kibisi. Iyi nzu ikaba ifite ibirahuri by'umukara, ikaba ari inzu yifashishwa kwa muganga.

Ni inzu nziza ubona ko yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba ari inzu ifite ubusitani irimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hakaba haparitsemo imodoka y'umutuku ndetse na moto ifite purake y'umuhondo, hakaba harimo abantu barimo baramanuka babiri kuri iyo nyubako, bikaba bigaragarako ikoreramo ibitaro, ikaba ari inyubako nziza rwose ifite amabati atukura.

Igitanda kinini cyo kwa muganga. Mu rwego rwo kwirinda malariya rero, banayirinda abarwayi, umusore umwe wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, arimo aramanura inzitiramibu kugira ngo ayizengurutse umurwayi, bityo abashe kwirinda imibu ndetse no gukira izindi ndwara arwaye.

Icyumba cyiza kiri mu mabara y'ubururu bw'ikirere ndetse n'ubururu bwijimye. Kirimo inyerekanamashusho ndetse n'ibindi byuma bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, by'umwihariko harimo icyuma kinini kabuhariwe mu kumurika ndetse no kureba indwara mu mubiri indani kizwi nka sikaneri. Iki cyuma kikaba cyifashishwa cyane mu kureba uko amagufa ameze ndetse n'imitsi.

Icyumba cyiza cyane ubona ko ari kinini, bisa nkaho ari ahantu bacururiza ibikoresho byifashishwa muri siporo. Hakaba harimo utwuma bifashisha baterura kugira ngo ukore siporo z'amaboko twinshi tugiye dutandukanye dutenze ku murongo, hirya hakaba hari ibindi byuma byinshi byifashishwa muri siporo.

Inzu nini isa neza yubatse mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo harimo tapi isa icyatsi kibisi, ku ruhande hakasamo utuzu twimshi dutandukanye dukatishije ibirahuri, hirya kuruhande hari ibizwi nk'amagare abantu banyonga kugira ngo bakore siporo mu kigwi cyo kwirukanka.

Ni icyumba gisa neza gisize amarangi y'umweru hasi no hejuru, hakaba hamanitseho imashini nini y'umweru iriho amatara abiri yifashishwa bamurika aho bari kubaga umurwayi, hasi y'izo mashini hari igitanda gifatiyeho utuntu dutandukanye, ako gatanda bakaba bakifashisha barimo barabaga umurwayi, bashasheho ishuka y'icyatsi kibisi.

Inzu nini ubona ko yubatse mu buryo bw'ubucuruzi, akaba ari inzu ifite imiryango myinshi n'ibyapa byinshi biyanditseho, hejuru ku cyapa cya mbere hakaba icyapa gikozwe mu ibara rya move cyanditseho amagambo manini yanditseho ngo ubuzima bwiza, mu ururimi rw'amahanga guduliyifu, akaba ari farumasi ubona ko icuruza imiti.

Icyumba kinini kiza kirimo utubati twinshi tugiye dutandukanye, utwo tubati tukaba turimo imiti igiye itandukanye, ipanze mu buryo bw'amabara bitewe n'imiti iyo ari yo, inyuma hirya hari akabati gatoya karimo imiti ubona ko yihariye, hejuru yako hari amacupa manini abiri y'umweru afite imifuniko y'umutuku, hasi ku buryo na ho hari akandi gacupa nk'ako.

Icyumba gifite inkuta z'umweru, parafu irimo itara ryaka ndetse harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi amamashini ashinze ku bitanda by'umukara, bisa naho ari ibyuma byifashishwa mu kubaga ndetse no kuvura indwara zihariye.

Umugabo wicaye ahantu, inyuma ye hari igiti kinini, akaba yicaye kuri esikariye zubakishije amatafari asa nk'igitaka, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma hari igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Icyumba kinini ubona ko kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga, ameza, imashini, ibitanda, utuntu tujyamo imyanda ndetse n'ibindi, ubona ko ari ahantu hateguwe kandi hategurwa neza kugira ngo hahurirwe abantu.

Mu nzu nini ubona yubatse mu buryo bugezweho, hakaba harimo icyumba gifite imiryango ibiri isize irangi rijya kuba umuhondo werurutse, hejuru y'iyo miryango hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari icyuma cy'ibagiro.

Icyumba cyabuhariwe gikoreshwa kwa muganga, kirimo isaha ku ruhande yerekana igihe, kikaba kirimo imashini zitandukanye zifashishwa mu gufasha abarwayi bagana kwa muganga, ni icyumba gisize amarange y'umweru kandi giteye amakaro.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'akagofero k'ubururu. Yambaye imyenda y'akazi izwi cyane mu ibara ry'umweru. Arimo arareba akana bisa n'aho kavutse gateruwe na nyina bicaye ku gitanda. Bari mu nyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru bigaragara ko ari mu bitaro.

Umuganga urimo arapima umwana. Umwana ari guseka. Yambaye akantu mu ijosi k'umweru, ubona ko afite ikibazo cy'igikanu. Umuganga arimo aramwitaho, yambaye agapfukamunwa, impuzankano y'umweru imenyerewe ku baganga. Ku ruhande hari umugabo wambaye igitambaro mu mutwe ubona ko ari umusilamu wazanye uwo umwana kwa muganga, ubona ko bishimiye serivisi bari guhabwa.

Ni ahantu heza cyane harimo haraka amatara meza agiye atandukanye. Akaba ari inzu zubatse mu buryo bugezweho, harimo ubusitani hagati bugiye buciyemo imihanda y'umukara. Ku ruhande hano hari icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye mu mabara y'ubururu, shokora, umutuku, icyatsi ndetse nu'ubururu bwerurutse, agenda akurangira uko ibitaro byubatse.

Inzu nini nziza isize irangi ry'ivu, hejuru yayo hariho akanex kanini k'ibirahuri handitseho mu magambo ya orange, ijambo ry'ururimi rw'amahanga ry'icyongereza rigira riti: Africa center of exellence and infectious diseases of human animals.

Ni inzu nziza bigaragara ko yubatse mu buryo bugezweho. Mo imbere harimo ibyuma byo kwa muganga. Ni ibyuma by'ikoranabuhanga bifite inyerekanamashusho zerekanirwamo uburyo ubuzima bw'umurwayi uri kwitabwaho buhagaze.

Inyubako nini isa neza imbere harakeye cyane biragaragara ko ari ibitaro bitewe n'icyapa kinini cyanditseho nyarugenge disrict hospital bisobanuye ibitaro by'akarere ka nyarugenge ibigaragara ni byiza pe.

Inzu nziza iparitseho imodoka yo mu bwoko bwa pajeru nini nziza isize irangi ry'ibara rya siliva kuruhande hari indi nzu nini isize irangi ry'ivu igereretse kabiri bigaragara ko ari ahantu heza.

Icyumba kiza cyane bigaragara ko ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite parafo yubakishije imbaho n'amatara menshi yaka umweru ariko mu buryo bugezweho butamena abari muri icyo cyumba amaso, hakaba harimo inkingi nini izengurutswe n'akabati gakozwe mu mbaho kanditseho amagambo y'Icyongereza agira ati:'' Information Desk''.

Inzu nini yubatse mu bwoko bwa etage, ikaba ari inzu nziza ndetse imbere hari idarapo. Iyi nzu ikaba ifite icyapa imbere kinini gikoze mu mabuye na sima rihagaze isize irangi ry'umweru bigaragara nkaho ari ibitaro.

Inyubako nini isa neza. Imkuta zayo zimanitseho amaradiyo avugirwamo amavi. Hasi hateretse ibitanda byiza biriho utuntu tw'umukara tumeze nk'imisego. Ubona ko ari ahantu bagororera abantu ndetse bakanabarambura.

Inzu nziza isakaje amabati afite ibara ry'ivu, hasi hakaba hari ubusitani bw'ibiti birebire bitatu, iyo nzu ikaba isize irangi ry'umuhondo igeretse kabiri, imbere ku ruhande rw'imbere hariho icyapa kinini cy'irangi ry'umweru cyandikishije amagambo y'umukara, ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye, izo ntebe ni intebe zikoze mu buryo bugezweho, n'igitanda zifite imisego iriho imifariso y'umutuku, ku ruhande hari igitanda kiriho ishuka y'umweru, ubona ko ari ahantu bakorera masaje ndetse n'ubugororangingo, hejuru y'icyo gitanda hari imashini ubona ko ipima uko ubuzima buhagaze, bw'uryamye ku gitanda.

Ni icyumba cyiza ubona ko ari kinini kikaba gisize amarangi y'ibara ry'umweru hasi no hejuru, hakaba harimo amarido y'ubururu ndetse n'ibitanda byiza by'umweru biriho n'inzitiramibu. Ukaba ubona ko ari ahantu harara abarwayi; ari mu bitaro.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye. Ikaba ifite ibirahure birimo amabara agiye atandukanye. Imbere hari jardin cyangwa se ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye. Hirya yaho hari amapoto asize irangi ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Ni ibendera ry'igihugu.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ari inzu igeretse kabiri, hakaba harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahagaze, abagore bahetse abana ndetse n'abasore, n'abagabo, ku iyo nzu hakaba hariho irangi ry'umuhondo iriho icyapa kinini cy'umweru, yanditseho amagambo y'umukara ngo ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi.

Ni ahantu ubona ko bita ku bantu bageze mu zabukuru, hari umuganga w'umukobwa ushinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru, yambaye impuzankano y'ubururu, yazirikiye imisatsi inyuma miremire, imbere ye hari umugabo wambaye amadarubindi y'umutuku n'ishati y'umutuku n'ipantaro isa n'ivu. Umukobwa arimo aramusuzuma ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Ni icyumba kiza gisa neza kirimo urumuri, harimo igitanda kirimo imisego ibiri y'umweru n'amashuka y'umweru, ku buriri harambitseho ibyuma bikoreshwa kwa muganga, inyuma hari igikuta kiriho igishushanyo cy'amazi.

Kikaba ari icyuma kifashishwa n'abaganga igihe bareba uburwayi cyangwa se Virusi umuntu afite runaka arwaye. Kikaba ari icyuma kifashishwa mu kureba utuntu duto cyane tutagaragara hifashishijwe amaso. Bakifashisha iki cyuma kugira ngo batubone. Kikaba kitwa Microscope.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, imbere ye hari amamashini acometse hafi n'igitanda, akaba yazamuye akaboko yerekana ikimenyetso cya yego akoresheje ikiganza cye, bigaragara ko yishimye ndetse ubuvuzi yahawe bwagize umumaro.

Umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'ubururu, n'inkweto z'umukara, yambaye akagozi mu ijosi kariho ikarita imuranga, imisatsi myinshi yafungiye hejuru arimo aragenda yihuta, bigaragara ko atabaye, hirya hari abandi bantu benshi barimo baraganira, bisa nkaho ari kwa muganga, barimo baraganira ku miti igiye itandukanye,

Ni nzu nziza ubona ko ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba isize irangi by'umweru. Ku ruhande hakaba hari jeride nini nziza irimo indabo zisa neza. Zikikije umuhanda urimo ama pavi. Kuri iyo nzu hakaba hari icyapa kinini cyanditse mu mabara y'umweru, ko ari ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge.

Icyumba cyiza gisize amarangi y'umweru hasi no hejuru. Kiri kwakamo amatara. Hakaba harimo utubati twinshi tugiye dutandukanye. Ubona ko ari iduka ricuruza imiti igiye itandukanye. Inyuma hakaba hasize irangi ry'umukara, ndetse n'ibyuma bifasheho ibirahure ni umukara. Hakaba hariho amafoto ku mpande zombi.

Gukora siporo, ukarya neza, ukaruhuka, ni bimwe mu bituma ubuzima bwawe bugenda neza. Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bya siporo birambitse aho byabugenewe, harimo nk'utwuma turemereye baterura mu maboko, bagenda bazamura. Inyuma hari ibyuma bindi bikoreshwa muri siporo.

Mu cyumba cyiza kirimo amatara meza, mo imbere haryamye abarwayi babiri bari ku bitanda ubona ko ari ibyo kwa muganga, ibi bitanda bifite aho baryama h'icyatsi kibisi, ibitanda byo n'umweru biyoroshe abashuka y'umweru, n'abantu ubona ko ari bakuru ariko barembye.

Inzu nini y'umuhondo yubatse ku buryo igisenge kitagaragara. Ku mpera z'inguni hakaba hasizeho irangi ry'ivu. Imbere hakaba hari umuryango munini w'ibirahure ubona ko harimo abantu. Hejuru yayo hakaba hari icyapa kinini cy'icyatsi kibisi cyanditseho ngo "Med sol farmacy Kanombe".

Inzu nini cyane yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje. Ikaba isize amarangi y'umweru. Irimo ibirahuri byiza cyane by'ubururu. Hagati harimo inkingi zigiye zihagaze zubakishije amadafari y'igitaka. Imbere hari jaride cyangwa se ubusitani bunini. Ku ruhande hari igiti cy'umukindo muri ubwo busitani, birasa naho ari ibitaro.

Amarembo manini asa neza pe! imbere yaho hari umumama uhetse umwana n'agatambaro yafunze mu ijosi gatwikira umwana, kuri uyu muryango hari icyapa kinini cyanditseho ngo Kigina Health Center, bigaragara ko ari ibitaro bya Kigina.

Icyumba cyagutse gikasemo utuwumba dutoduto turimo ibitanda bigaragara nkaho ari ahantu abarwayi baryama, hagati harimo umugangakazi wambaye imyenda y'impuzankano y'abaganga akenshi aba ari ishati ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Abarwayi baryamye ku bitanda byabugenewe, barimo barahabwa serivisi, abandi ntabwo barimo kuzihabwa, ni icyumba cyiza kirimo supanete zagenewe kurinda imibu ndetse gisize amarangi y'umweru, kirimo n'amatara menshi.

Inzu nini ubona ko ifite isuku, irimo ibitanda byinshi bitandukanye, isize amarangi y'umweru, ku ruhande harimo udukuta dutoya dufite amarangi ya oranje, hasi hari sima isa n'ivu, hakaba harimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi, ubona ko ari inzu abarwayi bararamo.

Kwa muganga, hakaba hari mu hantu hamwe na hamwe haba hari isuku itangaje, icyumba kinini gisa neza, kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru, imbere bigaragara ko ari kwa muganga, kuko hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abaganga.

Inzu nini ubona ko ari inzu y'abarwayi ariko b'igitsina gore iyo nzu ikaba irimo abagore babiri baryamye ku gitanda ubona ko ari igitanda cyo kwa mugangatanda kiriho akantu k'uburura inyuma umugore umwe ari kumwe n'umuganga wumugore wa na kokuze e imana aramwitaho afite akantu mu ntoki yamushyize ku mutima yumva ko umutima we utera.

Icyumba kinini ubona ko gisa neza gifite isuku. Kirimo ibitanda, ameza, intebe, inyerekanamashusho, ndetse n'ibyuma byo kwa muganga byabugenewe mu kwita kurwayi. Urabona ko aha hantu rwose ari icyumba kivurirwamo abantu indwara zihariye.

Ahantu ubona ko habereye inama ku ruhande hakaba hari umugabo urimo arakamera ndetse hakaba hari n'undi ufite mudasobwa arimo arandika ibi kuvugirwa aha hantu. Imbere yabo haparitse uducupa tw'amazi, imbere cyane hari abagabo batatu n'umugore umwe bicaye imbere ubona ko bafite ibyo bari kugeza kuri abo bandi.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari inzu yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, igeretse inshuro ebyiri, ni inzu ifite icyapa hejuru kirimo ibara ry'umweru n'amagambo manini yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi, polyclinic bela etoile, hasi haparitse imodoka z'umukara, ku ruhande hari imitaka ya airtel.

Inzu nini yubatse mu buryo bugezweho ikaba igeretse inshuro eshatu, ku gipangu cyayo harimo imodoka iri gusohoka bigaragara ko ari kwa muganga hari inyubako nini irimo ibitaro.

Inzu nini cyane, igezweho, yubatse mu buryo bwa etaje, ikaba isize amarangi y'umuhondo, ndetse muri parikingi yayo hakaba haparitse imodoka enye, ziri mu bwoko bwa toyota.

Icyumba kinini cyane gisa neza kiri mu mababara y'umweru, imbere harimo utuzu dukasemo tw'ibirahuri, harimo ibitanda byiza cyane by'ubururu, hasi hari amakaro asize ibara ry'umukara, biragaragara nk'aho ari inyubako nziza.

Icyumba cyiza gisize amarangi y'umweru. Hejuru parafo yayo isize amarangi avanze. Hakaba hari kwakamo amatara. Hasi hakaba hari intebe z'ubururu ndetse n'izindi z'igitaka. Zizengurutse ahantu harimo indabo z'ibyatsi. Ubona ko ari inzu yo kwa muganga.

Icyumba cyiza gisa neza kiri mu mabara y'umuhondo. Harimo ibitanda ndetse n'intebe, umuganga w'umugabo arahicaye yambaye itaburiya y'umweru, ikaramu ku mufuko, yambaye isaha y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara. Arishimye ari guseka bigaragara ko yiteguriye inshingano ziwe.

Ahantu hagari hari imbuga nini irimo kaburimbo, ubona ko ari ahantu heza. Ku gipangu hariho icyapa kinini cy'umutuku yanditseho ngo:"Head office". Inyuma hari amazu menshi meza ari mu ibara ry'umweru n'igitaka, hakaba haparitse imodoka y'umukara. Ubona ko iyi nzu ikorerwamo ubuvuzi cyangwa se yita ku barwayi.

Inzu nini ifite imbuga nini nziza, iyi nzu ikaba isize amarangi y'umweru, isakaje amabati y'ubururu, imbere hariho ijambo rinini ry'ubururu ryanditseho murimi rw'ikinyarwanda, ryanditseho rivuga ngo inzu y'abarwayi, imbere hateretse umurasire urimo utanga amashanyarazi akoreshwa aho.

Inzu yubatse mu buryo bw'ibitwe bibiri ikabakeshije amatafari ahiye iyo nzu ikaba isize irangi ry'ubururu imbere mu mutwe wayo hagaze batatu hagatibona ko ya impuzankan y'umweru izwi cyane nk'abagangayandi ko ari ikigo nderabuzima cya gishweru.

Inzu nziza isize amarangi meza, ku bikuta hasizeho irangi rijya gusa na shokora cyangwa se umuhondo wijimye, hasi kuri tapi hari irangi ry'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi cya pome. Biragaragara ko ari na sale yo kwa muganga.

Ni inzu nini ubona ko ari inzu yubatse mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba ari inzu ifite aho bazamukira hanini hazwi ku izina rya esikariye mu rurimi rw'amahanga, ikabaha iriho ibyapa byinshi by'icyatsi kibisi, byerekana ko ari farumasi aho bacururiza imiti, haba harimo imiti myinshi igiye itandukanye mo imbere.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, birasa n'aho ari ahantu abarwayi bamaze gukira binjirira cyangwa se bagasohokera, hejuru handitse amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu mu rurimi rw'icyongereza agira ati''Out patient.'' bigaragara ko ari aho abarwayi basohokera.

Ni cyumba cyiza ubonako gisize irangi ry'umweru hasi no hejuru, ku ruhande rw'iburyo hari aho bakarabira ndetse hejuru y'aho hari imashini yumutse ibiganza ndetse n'aho bashyira imyanda, iruhande rw'ibumoso hari akabati kanini k'umuhondo kabikwamo ibintu ndetse kuri parafo inyuma hari itara rinini risa umukara.

Inzu nziza isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo. Iriho idirishya ririmo ibirahuri bisa neza bitarimo agakingarumuri. Hejuru y'iryo dirishya hari icyapa kinini cyanditse mu mabara y'ubururu mu rurimi rw'Icyongereza. Handitseho ngo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Icyumba kinini kiza gisize amarangi y'umweru, hasi amakaro arasa igitaka, ku ruhande hari idirishya rinini ririmo ibirahure bitatu, ku gikuta hariho igisaha kinini kerekana igihe, haba harimo ibyuma byinshi bigiye bitandukanye bakoreraho siporo, bigaragara nkaho ari muri jimu ahakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Icyuma kinini cyane gikoreshwa cyane kwa muganga n'abaganga bashyiramo umuntu bagiye kureba icyo arwaye igihe bakoze ubu ubwo buvuzi bwabo indwara ikabura. Ni icyuma gifite agatanda gasohoka umurwayi akicaraho n'uko muganga ugiye kumuvura ndetse no kureba akamunyuzamo, kikaba kizwi nka scanner.

Inyubako nini isa neza ikaba yubatse mu buryo bugezweho, ifite ibirahuri ku gisenge cyayo, imbere hari abantu barimo barayinjiramo batwaye udukapu bigaragara ko ari impuzankano bambaye bakora hano, gusa harasa no kwa muganga bitewe n'ibikorwa bihakorerwa.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, karuvati y'igitaka irimo utubara tw'ubururu n'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru. Mu ntoki ze afite akantu gasa igitaka. Mu ijosi harimo akuma kifashishwa mu gupima uko umutima utera w'umurwayi.

Siporo burya ni ingenzi. Bikaba byiza cyane n'iyo urya neza. Imbuto rero zikaba ari zimwe mu biribwa umuntu afata nyuma yo gukora siporo kugira ngo agarure intungamubiri yatakaje arimo akora siporo. Bityo rero bakaba badushishikariza kurya imbuto, imboga ndetse n'ibindi byose by'ibinyasukari kugira ngo wongere umere neza nyuma yo gukora siporo.

Akameza gafite amaguru y'icyuma, kakaba kariho akantu k'ubururu, hejuru hari utuntu tubiri tw'umukara, bisa nkaho ari akantu umuntu afataho arimo aragenda, hasi gafite santimetero mirongo itandatu n'eshanu, ku ruhande gafite santimetero mirongo icyenda n'imwe, hejuru mu buhagarike gafite santimetero ijana n'imwe, kakaba ari ako bifashisha umuntu agenderaho igihe yavunitse.

Imashini nini iri mu bwoko bw'imashini zipompa amazi cyangwa se amavuta zifashishwa kwa muganga akaba ari imashini baheka mu mugongo. Ni imashini ifite umugozi munini uziritseho akuma kabugenewe bafata igihe ugiye kurekura amazi uyerekeza aho ushaka ko ajya, hakaba hariho akantu k'ubururu ariko gashinzwe kurekura ayo mazi.

Umukobwa umanitse amaboko mu kirere ufite umusatsi muremure ugwa inyuma, yambaye akantu k'umuhondo kazirikishije umusatsi we. Birasa n'aho ari mugitondo arimo arakora siporo cyane ko burya siporo ari ubuzima.

Amaguru abiri, y'umuntu w'umwirabura, ukuguru kwe kw'imbere kuriho utuntu tw'udupapuro twometseho, turi mu mabara abiri, ibara rimwe ni ubururu, irindi bara rirasa n'umutuku, bigaragara ko afite ikibazo mu ivi ari ubuvuzi, cyangwa se ibyo kwifashisha yashyizeho afite ikibazo.

Umukobwa wunamye, yambaye inkweto z'icyatsi kibisi, mu mutwe harimo akantu k'icyatsi kibisi, yambaye isaha n'agakabutura k'umukara kamufashe, inyuma ye hari ikibuga kinini, ubona ko ari muri siporo, arunamye aruhuka kuko ananiwe yari arimo yirukanka.

Umusore n'umukobwa ubona ko bari muri siporo bambaye imyenda yabugenewe udukabutura ndetse n'udusengeri, hasi yabo haparitse ibikapu bibiri umusore aricaye umukobwa arahagaze arimo arinanura ubona ko bicaye bari kuruhuka batora akabaraga, umusore akaba ari kunywa amazi.

Umuntu arimo yandika ku rupapuro rw'umweru, imbere ye hari udukoresho twinshi turimo utw'ubururu, umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'ibindi. Imbere ye hari icyuma kirimo imibare myinshi bisa naho ari umunzani, ku ruhande hari metero.

Ni agakarito gasa umuhondo, kakaba kariho amabara y'icyatsi kibisi cyijimye, kakaba kariho imiti myinshi igiye itandukanye, ubona ko ari imiti bisiga mu gihe umuntu ari gukora siporo kugirango amere neza, aba ari imiti iri mu tuntu tw'umuhondo natwo dufite imifuniko y'umweru, haba handitseho amasaha makumyabiri n'ane.

Umupira munini w'umweru ugiye urimo utuntu tw'umukara. Ku ruhande hateretse inkweto bakinisha umupira, hari n'akuma kifashishwa n'abaganga mu gupima uko umutima utera.

Igikoresho cyabugenewe gikoze ishusho y'urukweto ariko rurerure, kikaba ari icyuma cyifashishwa n'abaganga by'umwihariko muri siporo, kikaba gishyirwa ku kaguru kavunitse, bityo kakabasha kugororoka ndetse kagagakira.

Mu cyumba gisa neza, gisize amarangi y'umweru. Harimo umuganga urimo aramurika umwana mu kanwa, bisa naho areba uko amenyo ye ahagaze. Inyuma ye hari abantu babiri bose bambaye udupfukamunwa, biragaragara nk'aho aribo bazanye uyu mwana kwa muganga ngo barebe ikibazo amenyo ye afite.

Umugabo w'ibigango, akaba yazamu amaboko ye ayafatiye inyuma ku mutwe, afite umusatsi mwinshi w'umukara, yambaye isengeri isa n'ivu, arimo arareba imbere, namufotoreye inyuma, akaba arimo arigorora akora siporo, aragaragara nk'aho aterura ibyuma ndetse ari umusore ufite ibigango ushikamye, nta ndwara yapfa ku mwataka.

Imikino akenshi uretse kuba kwa muganga bayigushishikariza burya inatanga ibyishimo. Uyu mukino akaba ari umukino bita Americani soka mu rurimi rw'amahanga. Ni umukino bakina bafite ikibaru bagenda bahererekanya mu ntoki bambaye ibibarinda kugira badakomereka ku mutwe ,ndetse no ku maboko aba ari ibintu bibyimbye bibafasha.

Umukobwa ufite imisatsi miremire. Akaba ahengamiye iruhande rw'ibumoso, yicaye akunje amaguru, yambaye agapantaro k'umukara n'agasengeri kamufashe. Iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, yicaye kuri tapi arimo arakora siporo.

Ni umugabo uryamye ku gatada ko kwa muganga hejuru ye hahagaze umuganga w'umugore, akaba yambaye impuzankano y'itaburiya y'ubururu mo imbere harimo ishati cyangwa se umupira w'umweru, yambaye akuma kifashishwa mu kumva uko amaraso n'umutima bitera.

Umukinnyi wavunitse aryamye ku gatanda gatwarwaho abantu bavunitse, akenshi kaba kari ku kibuga aho bakinira, yambaye inkweto zo gukinana umupira, ndetse n'ikintu gihambiriye mu ivi, ajyanwe kwitabwa n'abaganga by'umwihariko.

Nyuma yo gukora siporo ushishika kunywa amazi n'inzobere ndetse n'abaganga ku byo kwita ku mubiri, cyane ko burya iyo uri gukora siporo utaza amazi menshi, hari umukobwa wambaye imyenda ya siporo n'akantu yihanaguraza ibyuya ku rutugu, akaba arimo aranywa amazi amaze gukora siporo yabize ibyuya byinshi biragaragara.

Mu rwego rwo kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, siporo ni ingenzi cyane mu gutuma ubuzima bwawe bugenda neza kandi ukumva umeze neza. Umusore arimo arakora siporo urabona ko yateruye ibyuma afite ibigango, ndetse n'amaboko manini, arimo arakora siporo agenda asimbuka asimbuka. Kuruhande hari umukobwa uri kumwitegereza areba ibyo akora.

Nyuma yo gukora siporo biba byiza iyo umuntu afashe amazi akanywa cyane ko aba yayatakaje igihe arimo gukora siporo. Iyo uri gukora imyitozo ngororamubiri umubiri ugashyuha urekura ibinure akenshi bisohoka ari amazi, ukagirwa inama yo kujya unywa amazi nyuma yo gukora siporo kugira ngo ya mazi wasohoye ubashe kuyagarura. Umusore na we rero ni byo arimo.

Ni amacupa atatu y'umweru, akaba ari amacupa ariho ibirango bigiye bitandukanye bisobanura ubwoko bw'umuti ndetse n'ibiwugize, aya macupa akaba apfunyitsemo imiti yifashishwa mu kuvura ububabare, ndetse no kuribwa, igihe umuntu ari muri siporo akagira ikibazo cyangwa se agakomereka.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga. Ni igikoresho gifite inyerekanamashusho hejuru, kikaba gifiteho akantu k'umukara bisa n'aho kagifunze. Gihagaze ku kuma gafite amaguru ariho amapine ane hasi, bisa n'aho ari yo kagenderaho.

Umusore wambaye agasengeri k'ubururu, akaba yambaye n'agakomo k'icyatsi ku kaboko ke k'iburyo, akaboko k'ibumoso gafashe agacupa k'amazi arimo kunywa amazi inyuma yo gukora siporo, biragaragara ko yari ananiwe ari kuruhuka.

Umukobwa mwiza cyane, afite imisatsi yirabura miremire igera mu mugongo yambaye agasengeri k'icyatsi ndetse n'ipantaro yumukara werurutse, akaba yamanuye ikiganza cye agikoza ku birenge bisa naho arimo arinanura anakora siporo.

Abana benshi ubona ko bishimye cyane bakaba bari gufana ubona ko imbere aho bari kureba hari umukino uri kuhabera runaka, inyuma hakaba hari abandi babiri ubona ko bafite umupira w'amaguru mu ntoki zabo, barimo barishimye barakina baje mu myidagaduro ndetse n'imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Biba byiza cyane burya iyo uvuye gukora siporo unaniwe ukimenaho amazi. Ukagarura ubuyanja ndetse ukumva utuje. Cyane ko iyo urimo ukora siporo utwengeruhu turafunguka, kugira ngo ibyuya ndetse n'andi mavangingo asohoke. Bityo rero iyo umaze gukora siporo ukimenaho amazi, ayo mazi ahita yinjira mu mubiri bityo umubiri ukongera ugasubirana ubukonje ndetse n'ubuhehere.

Umukobwa uteye neza, yambaye kola cyangwa se ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, akaba yazamuye amaboko, ahagaze, imbere ye hari amazi maremare, bigaragara nk'aho arimo arigorora, akora siporo.

Agakapu kabugenewe k'umutuku kaba ari agakapu kabikwamo imiti y'ibanze yo kwita ku muntu wakomeretse cyangwa se ufite ikibazo. Ni agakapu kariho ikimenyetso cy'umusaraba, kikaba ari ikirango cy'ikigo gishinzwe gufasha ndetse no kwita ku bantu cya kuruwa ruje.

Ikirango kinini kirimo umugabo urimo kwirukanka mwibara ry'ubururu, umusaraba w'umweru ibara ry'umutuku, ibiganza mu ibara ry'ikigina ndetse n'umugabo urimo akora siporo yo kugenda ku rubura mu ibara ry'icyatsi. Ibi byose bikaba biganisha kuri siporo ariyo soko y'ubuzima.

Umusore warambuye akaguru ke, akandi gahinnye, yakarambuye ku gasume kazingazinze, arimo aritabwaho n'umukobwa wambaye imyenda y'umukara, afite akantu k'ubururu ari gukoresha arimo amukanda mu ivi.

Nyuma yo gukora siporo biba byiza iyo ufashe amazi cyane cyane akonje. Bitewe n'uko umubiri uba watakaje amazi menshi mu cyuya mu gihe umuntu arimo akora siporo, biba byiza nyuma ya siporo gufata nibura litiro y'amazi ukayinywa.

Umugabo wirambitse hasi. Akaba yambaye umupira w'igitaka n'agakabutura gato kamufashe k'umukara. Yambaye amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru. Aryamye hasi, akaguru yaziritseho umugozi ufatiye ku kimashini cyabugenewe mu kurambura akaguru. Arimo arakora siporo kugira ngo amaguru ye amere neza.

Umusore uri mu myaka hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu. Akaba arimo aragorora amaboko ye ndetse n'amaguru. Yambaye imyenda ya siporo, agasengeri n'agakabutura n'inkweto ziciye bugufi, zifite taro y'umweru n'amasogisi y'umweru ndetse yambaye n'isaha ku kaboko ke k'iburyo, akaba yashyize akaguru hejuru ku ruzitiro, arimo arigorora.

Ni icyumba cyiza kiri mu mabara y'umweru hasi no hejuru, kikaba kimanitsemo imashini nini iriho igitara kimurika. Hasi hari agatanda ubonako kameze neza, ni agatanda kicaraho cyangwa se karyamaho umurwayi kari mu ibara ry'ubururu. Ku ruhande hari n'agatebe gato k'akazeru kari mu ibara ry'ubururu kicaraho umuganga urimo uravura umurwayi.

Umusore wunamye hasi arambuye amaboko imbere abanje amavi hasi, yambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umukara, imisatsi yiwe yayifungiye inyuma, afite ubwanwa bwishi, ku ruhande hari intebe nini biragaragara ko ari gukora siporo arimo yigorora.

Umuntu urimo arasuka amazi, arayasuka mu gikombe cy'kirahure, akoresheje ijagi nayo y'ikirahure, inyuma hari urukuta runini rusize irangi ry'umweru, ku ruhande hari akantu k'umukara gahari, hejuru ibiganza nabyo birasa umukara ,amazi arasa neza ni urubogobogo.

Imbuto ni igenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kurya imbuto bikaba bifasha umubiri kubona intungamubiri ukeneye. Uretse kuba ziryoha. Aha hari imbuto zigiye zitandukanye: pome, amaronji, inanasi, amatunda ndetse n'izindi.

Icupa rinini ririmo amazi rifashwe n'umugabo ubona ko ari kunwa ayo mazi yishimye kandi aruhuka. Biragaragara ko yari ari muri siporo arimo arasubiza amazi mubiri yatakaje binyuze mu byuya. Hejuru hari ikirere kiza kirimo izuba ubona ko yari afite icyaka kandi arushye.

Ndabona umuhungu n'umukobwa, bari mu cyumba cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ni icyumba cyiza cyabugenewe, gisize irangi ry'umweru, kirimo amadirishya menshi kugira ngo urumuri rubashe kugeramo ruhagije.

Uryama utinze ukabyuka utinze umukobwa wambaye agasengeri k'umukara ndetse na cola yumukara akaba yicaye ku gitanda arimo yinanura bigaragara ko yabyutse atinze ariko agannye muri siporo kuko imyambaro yambaye ari iya siporo.

Umusore munini w'ibigango, bigaragara ko ari umusiporotifu. Afite amaboko manini, yambaye isengeri y'icyatsi kibisi. Arimo araramye aranywa amazi, bigaragara ko amaze gukora siporo, cyane ko siporo ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igishushanyo kiriho abantu bigaragara nk'aho bari gukora siporo, kikaba kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo, burya ngo siporo ni ubuzima cyane ko ituma umuntu yumva ameze neza, ni iyo mpamvu leta y'u Rwanda idushishikariza gukora siporo.

Imashini nini zifite inyerekanamashusho. Zikaba zirimo imibare igiye itandukanye. Izi mashini zikaba zifashishwa kwa muganga, mu kuvura ndetse no kwerekana uburwayi aho bugeze ndetse n'ikigero bufite, hifashishijwe imibare.

Imbuga nini ubona ko yahuriyemo urubyiruko abasore n'abakobwa bambaye imyenda ya siporo ubona ko barimo barakina kuruhande hirya hagiye hahagaze abantu benshi ubona ko ari abafana baje gufana aba bana b'abakobwa barimo gukina cyane ko siporo ni nziza burya ifasha ndetse no gutuma ubuzima bugenda neza.

Amazi ni ingenzi. Ukaba ushishikarizwa nibura kunywa litiro ebyiri z'amazi ku munsi, bitewe n'uko umubiri ukenera amazi cyane ku buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko umuntu ukora siporo we akaba ashishikarizwa nibura kuyafata kandi bihoraho, buri uko amaze gukora siporo kugira ngo amwe yatakaye binyuze mu cyuya, asubire mu mubiri bityo atumagara.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko rimwe na rimwe tuyikomerekeramo kubwibyago, hano hakaba hari umusore ubona ko yari ari muri siporo, yambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, n'amasogisi y'umweru, akaguru ke kandi, muganga wambaye impuzankano y'ubururu, arimo aragapfuka, ashyiraho utuntu twabugenewe kugira ngo amere neza.

Uturindantoki ni tumwe mu bikoresho byifashishwa cyane mu bintu byinshi bigiye bitandukanye haba mu kurinda amabavu, gushishuka intoki, amashanyarazi ndetse n'ibindi. Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki tw'umukara dukase intoki ikiganza cy'iburyo kiriho akandi kantu k'umukara ubona ko kariho hejuru.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, siporo ni urukingo ikaba n'umuti w'indwara za hato na hato, aho turi kubona umukobwa uryamye, azamuye akaguru akandi kararambuye, aryamye ku makaro arimo arakora siporo yigorora akanda akaguru ke.

Siporo ni ingenzi, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umukobwa arimo arakora siporo yigorora. Yambaye agapira k'umweru, n'ipantaro imufashe y'umweru. Yicaye kuri tapi y'ubururu. Bisa n'aho arimo aragorora umubiri we.

Icyumba kinini kirimo akavuyo, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hasi hashashe uburiri bugera muri butatu, ubwa mbere hakaba hicayeho uwo mugore ufite akana bari guseka, hirya inyuma hari indi mugore uryamye ku bundi buriri, asa naho ari kwa muganga aho abarwayi baryama.

Umusore uryamye hasi, arambitse akaguru ke ku gasume kazingazinze. Akaguru ke kandi karahinye, ivi riri hejuru. Ku ruhande hari umuntu wambaye ikanzu y'umukara w'igitsina gore, ubona ko ari kumukanda mu ivi asa n'aho yagize ikibazo.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakaba barimo bakora siporo, isa naho imbere hari umwe uri kubatoza bagakora ibyo ababwiye kugira ngo babashe kumera neza ndetse banagabanye ibinure mu mubiri wabo.

Ni agakapu kifashishwa cyane n'abaganga bakorera ahantu habereye imyitozo ngororamubiri, aka gakapu kakaba kaba karimo ibikoresho by'ibanze mu gufasha no kuvura uwakomereka, aka gakapu kakaba kari mu ibara ry'umutuku karimo ibintu bigiye bitandukanye, inshinge ndetse n'ibindi byifashishwa n'abaganga.

Kuri sitade burya ngo haba umuganga, cyangwa se ushinzwe kwita ku mukinnyi wavunitse, umusore muto bigaragara ko ari gukina mu kibuga, yicaye hamwe n'umuganga uri kumwitaho amuzirika aho yavunitse, kugira ngo yongere asubire mu kibuga ameze neza.

Umugabo ufite ibigango, yambaye ekuteri z'umweru, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara y'itiriningi, irimo uturongo tumanuka tw'ubururu ku ruhande. Yambaye inkweto z'umweru za siporo, ivi rye yarishyize inyuma irindi ararihina, bigaragara ko arimo yinanura kugira ngo amaguru ye amere neza arambuke.

Umugabo ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura n'umupira w'umutuku, inkweto z'igitaka n'amasogisi y'umukara, ahagaze ku kantu k'ubururu iruhande rwe hari binini biri mu mabara atatu ubururu, umutuku, n'icyatsi. Kuruhande hari undi mugabo utagaragara neza wambaye agapira k'umukara, inyuma hari ibyuma byinshi byifashishwa muri siporo, imbere ye arunamye arimo aratora udukombe tubiri tw'umuhondo.

Imashini nini ziri kwaka eshatu, ziri kwerekana amashusho bisa nk'aho ari ubwonko bw'umuntu bwayujijwe mu byuma bishinzwe kubupima, zikaba ziri kugaragaza ibice bizima cyangwa se ibirwaye.

Ni umugabo ubona ko yakomeretse. Ariko agakomerekera muri siporo. Akaguru katukuye cyane, ubona ko arimo arababara. Arimo arakanda aho yagize ikibazo. Wagira ngo ni imvune. Akaba yambaye imyenda ya siporo, agakabutura n'agasengeri n'isaha ku kuboko. Ndetse n'inkweto. Arimo arakanda aho yagize ububabare kugira ngo arebe ko yamera neza.

Icyumba cyiza gisize amarangi y'umweru ubona ko harimo umucyo mwinshi. Hasi hari amakaro y'umweru na ho. Harimo ibyuma bigiye bitandukanye bitatu byifashishwa mu buvuzi by'ikoranabuhanga. Byose bifite inyerekanamashusho. Icyuma cya mbere kikaba kirimo umugore w'umuganga abona ko yishimye.

Icyumba kinini cyisanzuye kandi cyitaruye, kikaba ari icyumba cyiza, gisize amarangi y'umweru, inyuma ibikuta byanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, hasi amakaro ni igitaka, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho bakoresha birukanka muri siporo, ama ariteri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amacupa ariho amazi abiri. Icyuma cyifashishwa mu gukora imikaya yo ku kaboko kizwi nka petipo, ku ruhande hari imetero ikoreshwa yipima uburebure bw'umuntu, hari urusenda, hari indimu, pome ndetse n'izindi mbuto, ibi byose bikaba byifashishwa igihe umuntu ari muri siporo.

Umugabo w'umwirabura uri kunywa amazi, amaze gukora siporo arananiwe cyane ariko afite imbaraga muri we bitewe n'uko amaze gukora siporo.

Umusore ubona ko afite ibigango yakoze siporo mu buryo buhagije, yambaye agakabutura k'umukara kagufi kamufashe, afashe ku itako arimo arahakanda, urabona ko itako ryatukuye asa n'ufite ikibazo muri iryo tako rye.

Burya gukora siporo biba byiza iyo bijyanye no gufata amafunguro yujuje intungamubiri kandi amafunguro ameze neza, haba utuntu twinshi tugiye dutandukanye hari utwuma twifashishwa mu gukora imyitozo y'amaboko tubiri dusa move, haba hari imbuto nyinshi zigiye zitandukanye harimo amaronji, pome, amacunga ndetse n'ibindi.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'ikarita imuranga mu ijosi. Akaba arimo aragorora umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, akaguru ke agafashe mu biganza akandi karambuye hasi. Umukobwa yambaye umupira w'imbeho aryamye hasi bisa naho arimo aramugorora amurambura neza...

Burya iyo ukora siporo ni byiza no gufata imbuto, imboga ndetse n'ibindi harimo inyama, amagi n'ibi byinshishyu bitandukanye. Ibyo bigufasha mu kugarura intungamubiri ndetse n'isukari watakaje igihe uri muri siporo. Bityo ubuzima bwawe bukagumane ukagomba kumera neza nta mususu.

Igipipiri ubona ko kirimo amazi meza. Ayo mazi akaba ari gusukwa mu kirahuri na cyo gisa neza. Ni amazi ubona ko ari urubogobogo rwose, abereye ijisho ndetse no kuyanywa. Tukaba dushishikarizwa kunywa amazi meza, afite isuku kandi asukuye, yaturutse ahantu hizewe kugira ngo tubashe kwirinda zimwe mu ndwara ziterwa n'udukoko dukura mu mazi.

Masaje ni ingenzi ndetse ikaba ifasha mu kuruhuka ndetse no gutuma imitsi igororoka, cyapa cy'umweru kiri mu maba y'icyatsi kibisi ubona ko kiranga ahantu batanga iyo serivisi ya massage ya cyanyanditseho amagambo y'icyatsi kibisi agira ati massage hisiotera p and trapic massage akaba ari mu rurimi rw'icyongereza.

Nyuma yo gukora siporo biba byiza, iyo upimye ndetse ukanareba uko amaraso yawe agenda .Umuvuduko afite ndetse n'ibizwi nka pressure uburyo umeze kutwuma twifashishwa cyane mu gupima umuvuduko w'amaraso, ubushyuhe ndetse n'ibindi .Nyuma yo gukora siporo kugirango urebe uko umeze.

Imyitozo icumi ishobora kugufasha kongera ndetse no kuzamura imitekerereze ndetse n'imikorere myiza y'ubwonko bwawe. Hakaba harimo kwicara ku ntebe ugenda uzamura amaguru gake gakeya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abakobwa babiri ubona ko bari gukora iyo myitozo kugira ngo babashe kumera neza ndetse n'ubwonko bwabo bwongere busubire ku murongo.

Umusore aryamye hasi ku gatanda yambaye ikabutura y'umweru ya siporo ndetse n' n'umupira w'ubururu, afite terefone mu ntoki ze kaboko k'iburyo yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso y'umweru iruhande, rwe hari umuntu ubona ko nawe ari umu siporutifu, akaba yambaye agakoma k'umukara n'umupira w'ubururu arimo aramugorora akaguru kugira ngo abashe kumera neza.

Umugabo ubona ko yakoze siporo ku buryo buhagije ndetse anaterura ibyuma biremereye kugira ngo abashe gutuma umubiri we umera neza kandi ukabyimba, akaba yarambuye akaboko kometseho udupapuro tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu.

Umugabo w'umwirabura, w'igikara, yambaye umupira w'ivu, arimo aranywa amazi bigaragara ko aruhutse ari gukora siporo, inyuma ye hari ibyatsi byinshi ndetse n'icyuma cy'umweru, ku ruhande hari ibyatsi bisa n'umukara byijimye cyane, ari mu muhanda arimo arirukanka.

Imodoka iri mu muhanda, ikaba iriho ibirango byinshi by'umutuku, inyuma hariho igipine, ku ruhande hari umuhanda bisa naho ari aho imihanda ihurira, imodoka akaba ari ambilanse, yifashishwa cyane mu kugeza ndetse no kuvana abarwayi kwa muganga, izwi ku izina ryo mu Kinyarwanda nk'Imbangukiragutabara.

Agakoresho k'umuhondo kifashishwa mu gufunga ndetse no gufata akaguru mu gihe hari iguf ryavunitse kuri ako kaguru. Agakoreshwo kifashishwa cyane mu gihe umuntu yakomeretse cyangwa se yavunitse igufwa ry'akaguru.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru, hasi yambaye ipantaro y'ubururu bw'kirere, ni umunyafurika, akaba arimo yarambuye akaboko hejuru akaguru ke yagashyize inyuma k'ibumoso ak'iburyo kari imbere, apfukamye kuri tapi, imbere ye hari agacupa k'amazi, ku ruhande hari igikuta cy'umweru arimo arakora siporo yigorora.

umukobwa Ubonako afite umubiri mwiza kandi n'ingano nziza bitewe n'uko akora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'ubururu bw'ikirere ndetse n'agakabutura kako, yazamuye akaguru agafashe mu mavi aho akandi gahagaze hasi ubona ko arimo arigorora anaruhuka nyuma yo gukora umwitozo wo kwirukanka.

Ubuhinzi bw'ibimera bikoreshwa mu miti gakondo akaba ari kimwe mu bintu bifasha ubuzi mu ino minsi. Ibikakarubamba biteye, hari abantu bigaragara ko bari kubyitaho ndetse bakaba bambaye n'impuzankano, imipira y'icyatsi kibisi, bose ni abagabo.

Amacupa menshi bigaragara nkaho ari amacupa yifashishwa mu kubika ndetse no gutunganya imiti. Ayo macupa akaba ari mu kabati k'umweru, bigaragara nkaho ategereje kuzashyirwamo imiti.

Mu gutunganya imiti gakondo, akenshi usanga bifashisha izuba, maze bakayumisha bakayigira ifu, n'uko bakayipakira mu dufuko cyangwa se udushashi twabugenewe, ku buryo iba ibitse neza ndetse ntiyangirike.

Imiti myinshi ikorwa mu bimera dusanga akenshi aho dutuye. Harimo ibikakarubamba, avoka, amakaroti, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amacupa maremare n'amagufi, yanditseho imfiniti, bigaragara ko apfunyitsemo amavuta agapa mbere, aka kabiri ari korogati, aka gatatu ari amavuta yo kwisiga, akiza indwara z'uruhu.

Ibyatsi by'icyatsi kibisi, bisa naho ari ibyatsi bikoreshwa bakora imiti gakondo, ibi byatsi bikaba bifunze cyane kandi ari byinshi.

Icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo. Iki cyatsi ni icyatsi cyifashishwa mu gihe umuntu yarwaye, cyane cyane uburwayi bwo mu nda, ni icyatsi kiri ahantu ha cyonyine, kizengurutswe n'ibindi, kuko bigifasha gukora mu gihe gisasiye.

Utuntu twinshi ubona ko ari utuntu twifashishwa mu kubika ndetse gufata neza imiti, by'umwihariko imiti ikoze mu bimera, kuri utwo tuntu hagiye hashushanyijeho ifoto y'igikakarubamba, ubona ko ibirimo bikoze mu gikakarubarumba, kikaba kifashishwa cyane mu kuvura indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye.

Agacupa gato kifashishwa mu kubika ndetse no gufata neza imiti ya gakondo imwe n'imwe igiye itandukanye. Aka gacupa kakaba ari agacupa k'umweru gafite umufuniko w'umweru, kakaba kometseho agapapuro karimo ibara ry'ubururu, kariho ishusho y'agasiga n'amagambo y'ubururu ndetse n'umweru.

Ibinini bya shokora bitenze ku gapapuro biba bifungiyemo ubona ko bitenze mu buryo ari bibiri bibiri byegeranye, ibihagaze akaba ari bine. Inyuma hari agakarito ubona ko kavuyemo ibyo binini k'umuhondo, gashushanyijeho igikakarubamba kandiitseho amagambo y'ubururu, ubona ko ari amagambo asobanura ubwoko bw'ibyo binini.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi kibisi, akaba yambaye n'akantu k'agashumi kariho ikarita imuranga, mu ntoki ze afite ibyatsi bigaragara ko yifashishwa mu gukora imiti gakondo. Inyuma ye hari isima isa icyatsi kibisi, bisa nk'aho ari ahantu heza pe.

Ikimera kicyatsi kibisi gifite utubuto tw'umuhondo n'umutuku kikaba ari ikimera cyifashishwa cyane mu buvuzi kizwi nk'ikiboko iki kimera kikaba ari ikimera cyifashishwa cyane mu gukora imiti gakondo.

Icyatsi gisa neza, kimeze nk'ishu iri barya, imbere yaho hari n'utundi dufite imbuto, bigaragara nkaho ari bimwe mu byatsi bikoreshwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa cyane mu buvuzi igihe iyo imiti ya kizungu yanze gukiza indwara.

Ni ikimera cy'icyatsi kibisi, giteye mu butaka ubona ko ari ubutaka bw'umucanga, icyo kimera kikaba gifite amababi manini ndetse ku ruhande hakaba hari n'utundi tumera dutoya, icyo kimera kikaba gifite indabo z'umutuku, mu hagati hasi umuhondo, kikaba ari ikimera kirandaranda hasi, kifashishwa cyane mu gukora imiti igiye itandukanye.

Aka ni agacupa gato k'umweru gateretse ku meza, kari kumwe n'akandi gacupa kanini, gashushanyijeho igikakarubamba, icyo kifashishwa ni ukubika umuti mu gihe kirekire.

Ni umuti upfunyitse mu gacupa k'umutuku ndetse gafite umufuniko w'umweru, uyu muti ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye, harimo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse n'ibindi, uyu muti ukaba ari umuti wa gakondo uvura ibi byose.

Ibyatsi byumishije bigiye bitandukanye bimwe by'umutuku ibindi by'umukara, ibindi biri mudufuka bisa n'aho bipakiyemo biteretse ahantu, akaba ari bimwe mu byatsi byumishijwe ngo bizakorwemo imiti gakondo yagiye yifashishwa cyane mu kuvura abantu.

Ibyatsi byinshi bitandukanye. Imbere yabyo hari agacupa gatoya k'umukara, hejuru y'ako gacupa hari ibindi byatsi, ibifite amababi matoya ,ayisumbuyeho ndetse n'andi, ku ruhande hari agacupa k'umweru ubona ko kabikwamo imitigi itandukanye yakozwe muri ibyo byatsi.

Imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye: harimo igikarubamba, umuravumba, umubirizi ndetse n'indi igiye itandukanye. Ibyo bimera rero bikaba bigomba kwitabwaho cyane kugira ngo bidacika cyangwa se bikazimira kuko leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kujya igenda ibifata ikabikura mu mashyamba aho biri ikaza ikabihinga ahantu runaka bityo bigakoreshwa igihe bikenewe bidasabye kujya kubishakisha.

Amacupa menshi afungiyemo imiti, bigaragara ko ari imiti gakondo yakozwe igashyirwa mu macupa kugira ngo abikwe neza, bisa naho iteretse mu tuntu tuyitandukanye bitewe n'ubwoko bw'umuti.

Ni ibyatsi biri ku ruzitiro rwa senyenge, bikaba byarakuze birandaranda kuri urwo ruzitiro, ibi byatsi rero bikaba bizamuka ku gikuta kinini cy'umuhondo, inyuma hakaba hari ishyamba rinini ubonako ari ahantu mu ishyamba hari uruzitiro, ibi byatsi bikaba byifashishwa cyane mu gukora imiti imwe n'imwe igiye itandukanye ivura indwara nyinshi harimo izo uruhu ndetse n'izindi.

Ibyatsi bisa icyatsi kibisi bigaragara nk'ibyatsi bikoreshwa mu biti gakondo inyuma yabyo hari umugabo wirabura uri kubisoroma usa nkaho ashaka gukora umuti.

Icupa rinini ririho ishusho y'igikakarubamba ndetse n'inyanya n'igice cyangwa se igisate cya avoka, kikaba ari igicupa kinini kirimo umuti.

Udukarito dupfunyitsemo imiti igiye itandukanye. Aka mbere karasa icyatsi kibisi. Aka kabiri karasa umutuku gashushanyijeho umukobwa ufite imisatsi miremire. Ubona ko harimo amavuta akozwe mu byatsi atuma umusatsi ukura neza. Aka gatatu karasa umuhondo. Ubona ko gashushanyijeho imbuto zigiye zitandukanye uwo muti ukozemo. Aka kane karasa umukara. Ubona ko ari ikawa ikozemo.

Ahantu heza hasize amarangi y'ubururu, harimo utubati n'ama etajeri by'umweru, hakaba hapanzemo imiti ndetse n'amavuta bigiye bitandukanye, bitewe n'ubwoko bw'imiti bifiteho amabara agiye atandukanye, hahagaze umugabo munini wambaye ingofero k'icyatsi kibisi ufite ubwanwa, arimo araseka bigaragara ko ari mu kazi.

Imiti gakondo ikaba ari imwe mu miti yagiye yifashishwa cyane kuva kera, kugera n'ubu ngubu ikaba igikoreshwa, igihe imiti ya kizungu yanze.

Imiti imwe n'imwe igiye itandukanye ikaba ifungiye mu ducupa, utwinshi ni umweru akandi ni umuhondo akandi ni icyatsi, inyuma hari umuti umwe uriho ifoto y'igikakarubanda bigaragara ko ari imiti gakondo.

Ibyatsi byinshi biri ahantu hamwe ubona ko bifite n'indabo z'umuhondo, ibyatsi bikaba byifashishwa cyane gukora imiti gakondo igiye itandukanye, imiti ikaba yifashishwa kuvura abantu indwara zimwe na zimwe imiti yo kwa muganga ya kizungu yanze kuvura izo ndwara.

Igiti kinini gifite amababi menshi y'icyatsi kibisi, inyuma y'aho hakaba hari ibindi biti, birasa n'aho ari mu ishyamba, iki giti kikaba cyifashishwa cyane mu gukora imiti gakondo, kikaba cyitwa umuravumba, akenshi ukoreshwa mu kuvura indwara zo mu nda, ndetse n'abakuru barawukoreshaga, bityo natwe ab'ubu tukaba tuwifashisha.

Agasekuru k'umweru karimo umuti. Ku ruhande hateretseho agakoni k'umweru kabugenewe mu gusekura ndetse no gusya imiti igakurwamo ifu. Ku ruhande hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye n'imiti iteretse mu dutebo, bisa nk'aho ari imiti yumishijwe kugira ngo izakoreshwe ivure.

Imiti gakondo, ni bumwe mu buvuzi bwifashishwa cyane, mu gihe imiti yo kwa muganga cyangwa se izwi nk'imiti ya kizungu yanze gukora. Burya ngo imiti gakondo irakora ndetse ikaba inifashishwa cyane.

Imiti gakondo, mirongo inani ku ijana iba ikoze mu bimera. Aha hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye. Umurima munini uhinzemo ibyatsi, bisa naho abo bantu baje gushaka ndetse no gukusanya ibyatsi byo kwifashisha mu gukora imiti.

Icyatsi gishishe bisa nk'aho giteye mu ifumbire. Hariho umugabo ufite ikiganza arimo aragikoraho. Iki cyatsi kikaba gifite amababi atatu ahanini. Hasi inyuma y'aho hari inzu ifite amatafari ahiye. Ibyatsi bikaba bikunze kwifashishwa cyane mu gukora imiti gakondo ndetse no kuyitunganya.

Imiti iri muri bimwe bibikwa neza ndetse bikanacungwa. Akenshi iyo imaze gukorwa ishyirwa mu bikoresho byabugenewe mu kubika imiti. Agakombe kera karimo umuti ndetse n'ijagi y'ikirahure irimo umuti. Bgaragara nk'aho ari ahantu habikwa imiti.

Utujerekani tw'umuhondo. duteretse imbere y'igikarito cy'icyatsi kibisi cyanditseho f cumi na gatanu. Ku ruhande hari akandi gakarito kiganjemo ubururu. Kuri iyo karito y'icyatsi kibisi ishushanyijeho ifoto y'umukobwa wambaye agasengeri k'icyatsi kibisi ndetse n'ikabutura y'icyatsi kibisi.

Icyumba kinini ubona ko kirimo akabati, karimo imiti igiye itandukanye, iki cyumba kikaba kirimo amacupa atenze mu kabati harimo n'amacupa y'amazi, ubona ko ari ahantu bacuruza imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amacupa maremare abiri y'umuhondo, afite imifuniko y'umukara, ni amacupa ashushanyijeho igikakarubamba, ubona ko ibiri muri ayo macupa ari imiti ikozwe mu gikakarubamba. Ku ruhande hari isashi na yo irimo umuti nk'uwo. Hirya yaho gato hari agakarito kanditseho c icyenda, kari mu ibara rya move ubona ko na ko kabika imiti.

Ikimera ubona ko giteye ahantu mu ifumbire, giteye mu butaka busa igitaka, inyuma yayo hari ahantu harimo ibihu byinshi bigaragara ko ari mu ishyamba, iki kimera kikaba cyifashishwa cyane mu gukora imiti gakondo ivura indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye nka: amibe, igifu ndetse n'izindi.

Ibikakarubamba n'avoka ni bimwe mu bintu byifashishwa mu gukora imiti imwe n'imwe igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura ndetse no kwita ku ruhu rwo mu maso, aha ngaha rero hakaba hari isabune ikoze mu gikakarubamba na voka, bakaba bakubwira ko iyo sabune yifashishwa mu kuvura ndetse no kwita ku ruhu rwo mu maso k'uyikarabye, ikaba ikuraho ibishishi, ibiheri, ndetse n'ibindi.

Mu rwego rwo kugira ngo bafate kandi barinde imiti yamaze gukorwa, ni byiza ko iyo miti bayibika ahantu heza ndetse no mu dukoresho twabugenewe. Aha rero hari udukoresho tugiye dutandukanye twabugenewe mu kubika imiti harimo utubido ndetse n'uducupa dutoya, tukaba dushushanyijeho igikakarubamba; kamwe ni umuhondondi akandi ni umweru ubona ko iyi miti ikoze mu gika kakarubamba.

Mu rwego rwo kubungabunga ndetse no gusigasira ibyatsi byifashishwa mu miti gakondo, niko Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kubifata bakabyubakira ahantu hamwe, bakabyitaho ndetse bakanabifumbira, kugira ngo ibyo byatsi bitazacika kuko byifashishwa cyane.

Imiti gakondo imwe n'imwe, ikorwa hifashishijwe imbuto, indabo, ibibabi, imizi ndetse n'uruti rw'ibiti rw'ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, ibyo byose akaba ari byo bivangavangwa bigakorwamo umuti runaka uvura indwara runaka, bitewe n'ubwoko bw'iyo miti.

Kurya imboga n'imbuto harimo inanasi, imineke, amacunga, amapome ndetse n'izindi ni bimwe mu bintu bigenda bituma umubiri wawe umera neza ndetse ukagira imbaraga, bityo rero abaganga bakaba bagushishikariza kurya imboga n'imbuto kugira ngo wirinde indwara ndetse ugire n'intungamubiri umubiri ukeneye.

Imiti gakondo usanga uburyo ikorwamo byihariye cyane; harimo kugenda bagaca amababi y'ibiti runaka imizi yabyo ndetse n'imbuto zabyo, bakaza bakabyegeranya bakabisya bakabikoramo ifu, iyo ifu kaba ariyo yifashishwa mu kuvura.

Ni ibyatsi byinshi ubona biri ahantu mu ishyamba. Hirya hari amababi y'ibindi byatsi ubona ko byumye. Ibi byatsi uri kubona ko bitoshye, wagira byitabwaho kandi ntawe ubyitaho. Iki cyatsi rero kikaba gikunze kwifashishwa cyane mu gukora imiti imwe n'imwe yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amazi menshi asuma, aturuka mu musozi, hafi yaho hari abantu ubona ko bari kujya mu mashyamba, bahetse ibikapu ndetse ni benshi, mu mpande hari ibyatsi bigiye bitandukanye byakifashishwa cyane mu gukora imiti, bigaragara ko bashobora kuba bagiye mu mashyamba gushaka imiti igiye itandukanye izwi nk'imiti gakondo.

ibyatsi bigiye bitandukanye. Harimo ibisa n'ibyatsi byijimye, ibifite utubuto, ibifite amahwa ndetse n'ibindi. Biragaragara nk'aho ari ibyatsi bikoreshwa mu ikorwa ry'imiti gakondo.

Ni akabati k'umutuku karimo uducupa twinshi tujyiye dutandukanye. Akabati kakaba karimo uducupa tureture dufite imifuniko y'umukara ndetse n'umutuku. Uducupa ukaba ubona ko dupfunyitsemo imiti imwe n'imwe igiye itandukanye. Tukaba dutenze mu buryo bw'amabara, bitewe n'ubwoko bw'umuti.

Kubika umuti birasaba kuwubika mu bintu byiza kandi bisukuye. Amacupa, amasashe, mvirope ndetse n'udukarito. Bikaba ari bimwe bipfunyitsemo imiti ikoreshwa kwa muganga ndetse ikaba ari imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba,

Akenshi mu kugira ngo bakore imiti gakondo imwe n'imwe igiye itandukanye, bifashisha agasekuru kabugenewe mu gusya ndetse no guhonda iyo miti, ahangaha turabona umugabo urimo arasya imiti, tubona ibiganza bye gusa, ku ruhande hari ubundi ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, ubona ko nayo araza gusya, kugira ngo akoremo umuti umwe runaka.

Urumogi ni bimwe mu biyobyabwenge, ariko uretse kuba ari ibiyobyabwenge bikaba binanifashishwa cyane mu gukora imiti igiye itandukanye, haba mu gukora ibinya byifashishwa babaga umuntu ndetse n'ibindi.

Umuravumba ni icyatsi gikunze kwifashishwa cyane mu miti gakondo, cyane ko twayirazwe n'abasokuruza bacu, mbere yarakoreshwaga cyane gusa n'ubu ngubu ikaba yifashishwa mu gihe imiti ya kizungu yanze kuvura indwara runaka.

Ibyatsi byinshi ubona ko bishishe biri ahantu heza kandi byitaweho, akaba ari ibyatsi by'amoko menshi agiye atandukanye ariko urabona ko ibi byatsi ari imiti kandi imiti yifashishwa mu gukora imiti gakondo imwe n'imwe, ivura indwara z'uruhu ndetse n'ibindi.

Igiti ki nini ubona ko gifite amashami menshi agiye atandukanye kuri ayo mashami hariho ibibabi, ibibabi byinshi bifite ibara ry'icyatsi kibisi ubona ko ibyo byatsi byifashishwa mu gukora imiti imwe n'imwe hejuru hari ikirere ubona ko gisa neza gifitemo ibicu by'umweru ubona ko hari ikirere cyiza kandi ari ku manywa.

Igikarito kinini gishushanyijeho umukobwa w'umwirabura wambaye isengeri isa icyatsi kibisi, akaba yirabura cyane. Imbere yacyo hari uducupa tubiri tw'umuhondo ndetse utwo dukarito tukaba twanditseho F cumi na gatanu, bigaragara ko ari nk'umuti.

Ibyatsi bijye bitandukanye harimo umuravumba, umubirizi, igikakarubamba, kapusini ndetse n'ibindi. Bikaba byifashishwa cyane mu gukora ibikoresho, imiti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye n'amavuta. Igikakarubamba rero kikaba ari kimwe mu bintu byifashishwa cyane mu gukora amavuta, imiti amasabune ndetse n'ibindi bivura indwara z'uruhu.

Uducupa twabuhariwe mu kubika imiti. Uducupa tw'umuhondo twinshi tujye dutandukanye dufite imifuniko ya shokora. Utu ducupa imbere hakaba hariho icyapa gishushanyijeho igikakarubamba. Ndetse n'ingano y'umuti uri muri utwo ducupa. Ubona ko ibimo bikoze mu gikakarubamba ari imiti igiye itandukanye. Uducupa tw'inyuma tukaba turi mu gakarito keza gapfunyitsemo.